Aha aha habereye igikorwa cy'ubukangurambaga, hari umuganga wicaye ku ntebe, akaba ari kugira inama abamuhagaze imbere, harimo abo mu nzego z'umutekano, hakaba harimo aba Croix rouge ndetse n'abandi bagiye batandukanye.

Izi ni inzobere mu by'ubuvuzi zikaba zasuye u Rwanda zizanye amakuru meza ndetse zikaba ziyemeje gukorana n'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo abaturarwanda bagire ubuzima buzira umuze kandi bavurirwe ku gihe.

Izi ni inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, hakaba harimo abapapa bambaye amakoti, amakositimu ndetse n'amabaji mu ijosi, harimo n'aba mama bambaye neza cyane bakaba bamaze gufatira hamwe ingamba z'ubuvuzi ku rwego mpuzamahanga.

Uyu ni umwana waje kuvoma amazi, yateze indobo iruzura arangije atega ibiganza ari kwinywera amazi, inyuma ye hari inyubako ihubatse ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hari n'ibyatsi byiza cyane bitanga umuyaga.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, harimo abirabura ndetse n'umuzungu bamaze kuganirira hamwe uko bateza imbere ubuvuzi mpuzamahanga, bityo abaturage bakabaho banezerewe bazira uburwayi.

Uyu ni umwana uri kunywera amazi kuri robine, ateze ibiganza amazi ari kumanuka anywa, inyuma ye hakaba hahagaze abantu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ubuzima gikwiye kujya kigira abantu inama yo kutanywa amazi muri ubu buryo.

Aba ni abagabo bambaye amakote ndetse bose bambaye amarinete, bakaba bari gusuhuzanya aho bari bari mu ihuriro ryiga ku buzima mpuzamahanga ryabaye mu wa bibiri na cumi na karindwi.

Umugabo wishimye cyane uri guseka, yambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara yatebeje, yicaye ku ijerekani amaze kuvoma, amazi meza iyo ari mu gice cy'icyaro usanga bayakoresha bishimye cyane.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage, umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba yambaye uturinda umunwa ndetse n'uturinda amaso, ari gusuzuma umusaza wicaye munsi y'ururabo, wambaye ishati y'amaboko maremare, ndetse n'akagofero k'abisilamu.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga. Bafite ibipapuro biriho amagambo agaragaza igikorwa barimo. Ko bari gukangurira abantu kwirinda ndetse no gusigasira amagara yabo kuko ubuzima ari igishoro.

Ubuvuzi mpuzamahanga ku isi bwaganiriweho maze hanzurwa ko buri gihugu kigomba kugira uruhare mu buvuzi bw'abaturage bagituye, mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abasore babiri bari kuganira, bahagaze mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, aha uri kubona ko umwe ari kwereka undi ikarita ye y'akazi hanyuma undi na we akamusaba uruhushya rwo kumwakira.

Abana babiri bari ku ivomero rusange bakaba bari kuvoma amazi meza mu ndobo nziza cyane zisa umweru ,aba bana bari kuvoma bishimye kuko Leta y'u Rwanda yabegereje amazi mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu gikorwa cyo guha abana igikoma cyateguranywe ubuhanga, mu rwego rwo kugira ngo babaremere ubuzima bwiza buzira uburwayi kandi bwuje intungamubiri.

Aha ni ahabereye igikorwa cy'ubukangurambaga, hari urujya n'uruza rw'abantu, hari amahema abiri yubatswe aho bari gutambutsa umuntu umwe bakamusuzuma uburwayi maze babumusangana bakamuvura.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage aho baherereye hose. Uyu ni umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ishati y'amaboko maremare irimo uturongo ndetse n'uturindantoki. Akaba ari gutera urukingo akana gato cyane k'agakobwa.

Iyi ni inyubako y'Ikigo Nderabuzima, ikaba irimo abaforomo bagiye batandukanye. Hari ababyeyi baje kwivuza, aho umwe atambuka agatanga ikarita ye y'ubwisungane mu kwivuza, bakamukorera ifishi bityo akaza kujya mu isuzumiro.

Leta y'u Rwanda yegereje abaturage amazi meza hirya no hino babifashijwemo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge ndetse n'isuku y'amazi mu Rwanda, aha rero abaturage bose hari mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, karuvati y'umutuku ndetse n'ishati yumweru, yambaye amarineti, ahagaze imbere y'abantu, aho ari gutanga imbwirwaruhame ku bijyanye n'ubuvuzi bwegerejwe abaturage, mu rwego kugirango bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, ni benshi cyane, bakaba bari kwigira hamwe uko bateza imbere urwego rw'ubuvuzi Mpuzamahanga, higanjemo Abirabura ariko harimo n'Abazungu.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ari gukaraba intoki nyuma yuko avuye mu bwiherero, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe y'akajerekani gato cyane k'umuhondo.

Uyu ni umugabo wicaye ku jerekani nyuma y'uko amaze kuvoma, arishimye cyane bitewe n'uko aya mazi yegerejwe abaturage yageze mu gace k'iwabo yari akenewe cyane, ibi bikaba bishimishije we ndetse n'abandi baturage batuye mu gace kamwe.

Aba ni abana bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara rya kake, baje kuvomera amazi mu ndobo z'umuhondo bamaze kuvoma ku ivomero rusange rifite amarobine atatu atandukanye, aba bana bari gukaraba intoki, aya mazi yegerejwe aba banyeshuri mu rwego rwo kugira ngo babarinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ahantu mu duce tw'icyaro ni byiza ko bagirira isuku ibikoresho bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bakubaka udutara tw'ibyombo. Aho babyoza hakibona maze bakabimanikaho bikabasha kumuka.

Umwana muto cyane wambaye agashati k'icyatsi kibisi ndetse n'agakabutura k'umukara, ari gukaraba intoki ku ivomero rusange leta yegereje abaturage, mu rwego rwo kugira ngo abantu bose bagire ubuzima bwiza bazira indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Uyu ni umumama wambaye imyenda y'ibitenge, akaba yicaye ku ntebe, ateruye akana, umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse na we n'ibitenge, afite uduherene ku gutwi, akaba ari guha uyu mwana igitonyanga cya vitamine.

Aba ni abana benshi cyane bambaye impuzankano, bafite ibikombe mu ntoki, bari kuza ku bigega byabugenewe birimo amazi asukuye bakavoma maze bakanywa, ni byiza kunywa amazi asukuye kuko bituma abana bagira ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda yegereje abaturage bose ubuvuzi ndetse n'ubwirinzi mu buryo buboneye, uyu ni umuforomokazi uri gutera urukingo umumama, ni umumama bigaragara ko ari kwigira nk'uri kubabara ariko uru rukingo ni ingirakamaro.

Uyu ni umumama wambaye agapira k'umukara ahetse agakapu kari mu ibara rya move akaba ateruye n'umupira w'ubururu mu ntoki, hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, afite urukingo ari kumutera k'ukuboko mu rwego rwo kugira ngo hakomezwe kwirindwa indwara.

Uyu ni umugabo w'umujyanama w'ubuzima, akaba ari kumwe n'umumama wambaye agapira k'umweru ndetse ukenyeye ibitenge, uyu mujyanama afite igishushanyo mu ntoki, akaba ari kumwereka ibijyanye n'imikurire y'abana ndetse n'uko abana bose ari bamwe haba umukobwa cyangwa se umuhungu.

Uyu ni umubyeyi uteruye akana ke. Ari kugana ahari inyubako y'ikigo nderabuzima. Ahuye n'abamama bari gucunga abica amabwiriza yo kwirinda icyorezo. Bagiye kubanza bamusuzume barebe ibipimo by'umuriro afite.

Aha ni ahantu heza cyane hari uruganda rutunganya amazi, Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo gushyira imbaraga mu gutunganya amazi meza kandi asukuye, mu rwego rwo kugira ngo abaturarwanda bose babone amazi meza bityo bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abajyanama b'ubuzima bamaze guhugurwa, bahawe amahugurwa babigisha uko bagomba kuvura kandi bakavura neza, nuko barishimye cyane bari guseka aha bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso mu rwego rwo kugira ngo bazahore bazirikana uyu munsi.

Iyi ni inama yahuje abaganga ndetse n'inzobere mu by'ubuvuzi, aho bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima ku isi hose uko babuteza imbere, uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara, karuvati ndetse n'amarinete.

Abana benshi cyane bahuriye ku mugezi, bari gukaraba amazi, bamwe barakaraba agwa mu imbasi abandi bagakaraba agwa hasi, bari kubyigana cyane, ni byiza kugira isuku ariko nanone kubyigana bishobora kubatera uburwayi.

Aba ni abana bagera muri bane baje kuvoma amazi ku ivomero rusange, inyuma yabo hari umwari uri kubavomera, aho uyu mwari yasohotse mu modoka kugira ngo aze arebe uko iri vomero rikoreshwa.

Aha ni ku ivomero rusange ryubatse neza cyane, rikaba risize irangi ry'ubururu, hari abana baje kuvoma ndetse no kumesa, abana bamwe bamaze kuvoma bagiye kugenda hari n'umubyeyi uri kogerezayo umwana we.

Abantu benshi cyane higanjemo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abarwayi, bari mu nyubako y'ikigo nderabuzima, harimo abaje kwivuza ndetse n'abajyanama baje mu mahugurwa bose bafite udukayi mu ntoki bari kubabwira bandika.

Iri ni ihema ryubatswe mu rwego rwo kugira ngo abaturage begerezwe serivisi z'ubuzima, hakaba harimo abaforomo ndetse n'abaforomokazi biteguye gufasha abaturage batuye muri kano gace.

Aba ni abana bari ku ivomero rusange. Umwana umwe ari inyuma akaba ari gukurura kugira ngo amazi azamuke; undi ari kuvoma arangaye yisekera. Ni byiza ko abana babatuma amazi.

Uyu ni umwana muto cyane akaba ari kuvoma amazi ku ivomero rusange, afite amajerekani atatu ari kuvoma bigaragare ko hari umuntu wamutumye akaba ari kumuvomera, ni umwana uri kuvoma aseka bitewe n'uko mbere y'uko iri vomero riza bavomaga kure cyane.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bari gukaraba amazi kuri robine, bose barunamye, ni byiza ko abana tubatoza kugira isuku, bityo bakajya bayihorana aho bari hose, bikabarinda uburwayi buterwa n'umwanda.

Aba ni abantu bicaye mu nyubako y'ikigo nderabuzima. Hakaba hari umugabo uri kugenda ubasobanurira. Ni ababyeyi baje gupimisha ingano y'ibiro by'abana babo. Aho bari kubasobanurira ko abana babo bagomba kugira ubuzima bwiza, mu gihe babitaye.

Umwana muto cyane yateze igikombe k'icyuma kuri robine izana amazi, ni ikigega cyubakishijwe isima ndetse n'amatafari, uyu mwana ari kuvoma amazi kugira ngo ayanywe bityo na we agire ubuzima bwiza.

Umwana muto wambaye agashati k'umuhondo, havanzemo amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'agakabutura k'ubururu, ari kuvoma amazi ku ivomero rusange n'akajerekani k'umuhondo, hari umwana uvuye ku ishuri uri kumufasha.

lrivomero rusange hakaba hari abana baje kuvoma, umwana umwe ari inyuma ari kuzamura amazi, undi uri imbere aho kuvoma yayitaje ahubwo ari kwimenekera, akaba hari n'akandi kana kiteye amazi cyane kambaye na bote.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro rwagati. Harimo abaganga ndetse n'abaforomo. Hakaba inzobere mu by'ubuvuzi zari zabasuye aho bazengurukaga basuzuma ubuziranenge bw'ivuriro ryabo. Aba bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inama yahuje inzobere mu by'ubuvuzi. Ni abantu basa neza cyane, ndetse kandi harimo abirabura n'abazungu. Imbere yabo hari Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, bakaba bari kuganira uko bateza imbere ubuvuzi ku Isi.

Iri ni ivomero rusange rikaba ririho amarobine menshi cyane. Rifite irange ry'ubururu. Hakaba hari abantu benshi cyane baje kuvoma biganjemo abana. Aya mazi Leta y'u Rwanda yayegereje abaturage mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abaganga bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu mahugurwa barebera hamwe ukuntu ubuvuzi bwatezwa imbere ndetse bukaba mpuzamahanga. Bose barishimye.

Izi ni inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bahawe amahugurwa ku bijyanye n'uko bashobora guteza imbere ubuvuzi mpuzamahanga, bose barakurikiye nta n'umwe urangaye, kandi imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi.

Umwana muto cyane wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'agakabutura k'umukara. Ari kuvoma amazi ku ivomero rusange Leta yubakiye abaturage. Mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umwanda aho batuye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bose ni inzobere mu by'ubuzima, bakaba bari kungurana ibitekerezo by'ukuntu bakongera ubushobozi mu bijyanye n'ubuvuzi, bityo abatuye isi bakagira ubuzima bwiza.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bakaba baje guhesha inkingo abana babo, aba ni abaganga basanze ababyeyi aho batuye mu rwego rwo kugira ngo begereze abaturage serivisi z'ubuzima bityo bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abasore ndetse n'inkumi bateraniye ahantu hamwe, bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo y'umweru, bakaba bambaye n'ingofero z'umweru, bafunze ibipfunsi biyemeje kurengera ndetse no gusigasira ubuzima.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye imbere y'ikigo nderabuzima, higanjemo abaganga ndetse n'abandi bambaye amabaji mu ijosi, aba bose bamaze gusobanurirwa ibijyanye n'ubuvuzi mpuzamahanga.

Iyi ni inyubako iteraniyemo inzobere mu by'ubuvuzi, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara ufite indangururamajwi, akaba ari kubaganiriza uko bakwiye kurengera ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane ku bana bakiri bato.

Iki ni igikorwa cyo kuremera abatishoboye, uyu ni umubyeyi wambaye agapira k'umweru, umwana we yambaye agapira k'umuhondo. Hakaba hari umusore mwiza cyane wambaye amarinete, ufite izani y'ibyo kurya mu ntoki uri gutamika umwana.

Umwana muto cyane w'umunyeshuri, yambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umukara, akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, ni indobo iteretse hejuru ku meza aho abana bafungura maze bagakaraba bityo bikabafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu nyubako y'ikigo nderabuzima, aba bantu bari guhabwa ubujyanama ku bijyanye n'uko bakwiye kwirinda indwara kandi bakabasobanurira ko ibyo byaganirijwe ku mpande zombi ndetse byanduwe n'Umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima.

Aba ni abana bateraniye ahantu hamwe bakaba bari gufata ifunguro rya saa sita, aba bana bambaye impuzankano y'amabara arimo ubururu ndetse na kake, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amagambo menshi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ndetse hari n'umubyeyi waje kuvuza umwana, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba hari n'ifoto imanitsemo.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, aha hakaba hari abantu benshi cyane baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, leta y'u Rwanda yegereje abaturage amavuriro mu rwego kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, kandi babone aho bivuriza badatinze.

Uyu ni umubyeyi wambaye agapira k'ubururu ndetse karimo imirongo y'umweru, yambaye ijipo irimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, arikoza intoki umwana we wambaye impuzankano ya kake, ni byiza ko ababyeyi bita ku isuku y'abana babo.

Umwana muto cyane wambaye ishati y'icyatsi kibisi n'agakabutura k'umukara, ari ku ivomero rusange, amaze kuvoma indobo y'ubururu arayujuje ari kwikarabira intoki, aya mazi Leta y'u Rwanda yayegereje abaturage, mu rwego rwo kugira ngo babeho nta ndwara ziterwa n'umwanda bahura nazo.

Uyu ni umugabo uri gutanga zimwe mu nama ku bantu bafite ubwandu bwa Virusi itera SIDA, akavuga yuko bari kugerageza gukora ibishoboka byose ngo urukingo rw'iyi ndwara ruboneke.

Aha ni ahari gushyirwa ibiribwa Leta yahaye abaturage batishoboye, biri gupakururwa n'abamama ndetse n'abapapa babitereka ahantu hamwe, mu rwego kugira ngo baze kubihabwa biteretse hasi mu buryo bworoshye.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage, aha ni mu mbuga y'ikigo nderabuzima, aho umuganga wambaye impuzankano y'umweru ari kugenda asuzuma ababyeyi bicaye ku mirongo, hari gutambuka umwe umwe maze muganga akamusuzuma.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, imbere y'aho mu busitani hakaba hari abantu bari mu nama aho bari kugenda batekereza ku bijyanye n'uko bateza imbere ubuvuzi, iyi nyubako ifite irangi ry'ubururu, ikaba iriho amagambo gira ubuzima.

Umwana muto cyane uri gukarabira intoki ku ivomero rusange, yaje aje kuvoma azana amajerekani atatu, abiri y'umuhondo ndetse n'indi imwe y'ubururu, uyu mwana ari gukaraba aseka cyane ko yishimiye ubwiza bw'aya mazi.

Uyu ni umubyeyi wicaye ku ntebe, yambaye ishati y'igitenge, hakaba hari muganga, wambaye impuzankano y'umweru, ndetse nawe yambaye ikanzu y'igitenge, ari guha akana gato cyane bateruye kambaye umupira w'umweru, ikinini cya vitamine.

Aba ni abajyanama b'ubuzima, abaforomo ndetse n'abaganga, bari kumwe n'inzobere mu by'ubuvuzi, ni umuzungu w'umupapa wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati, akaba yambaye n'amarinete, bose barishimye cyane.

Izi ni inzobere mu by'ubuvuzi, zikaba zambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bamaze kuganirira hamwe uko bateza imbere ubuvuzi Mpuzamahanga, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiriho amagambo yerekana inama bari barimo.

Leta y'u Rwanda yubatse ibigo bigiye bitandukanye bitunganya amazi, mu rwego kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza kandi bukomoka ku mazi meza asukuye azira umwanda.

Aba ni ababyeyi baje ku kigo nderabuzima gusuzumisha imikurire ndetse n'ingano y'abana babo, hakaba hari umujyanama w'ubuzima wambaye impuzankano y'ubururu witeguye gufata umwana maze akamushyira ku munzani.

Umwana muto cyane w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, ni byiza ko abana bato bagira isuku kandi bakazirikana gukaraba intoki buri uko zanduye, kuko bibafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Aha habereye ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara, bashinze ihema harimo abantu ariko kubera ko haje abantu benshi, ntibabashije gukwirwamo, abari kujya mu ihema bari kugarizwa maze bakavurwa abafite uburwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yateraniyemo abantu. Iri ni ihuriro ry'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, aho bateranye bakaba bari gufata ingamba zigiye zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bateze imbere ubuvuzi ku rwego mpuzamahanga.

Uyu ni umumama uteruye akana, imbere yabo hari umujyanama w'ubuzima ufite ibitabo byinshi, yambaye bote z'umweru akaba ari kuganiriza uyu mubyeyi uko akwiye kwita ku mwana we, mu rwego rwo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo umuforomokazi wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu yambaye akagofero, akaba ari imbere y'icyuma gipima mu rwego rwo kugira ngo ashake umuti bityo umurwayi amugarurira ubuzima.

Uyu ni umwana muto cyane wambaye impuzankano iri mu mabara irya oranje ndetse n'akajipo k'ivu, akaba ari gukaraba amazi kuri kandagira ukarabe, isuku ni cyo kintu cya mbere abantu bose b'abaturarwanda batojwe mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Izi ni inzobere mu by'ubuvuzi mpuzamahanga, harimo abazungu ndetse n'abirabura, hari abicaye imbere, ndetse hari n'abicaye imbere yabo bari kubagezaho ibiganiro, umugabo ufite indangururamajwi akaba ari kubabwira.

Leta y'u Rwanda ihora yifuza ko abaturage bagira ubuzima bwiza, aha ni ahantu heza cyane hatunganyirizwa amazi bityo abaturage bakabona amazi meza, bikabafasha kugira ubuzima bwiza buzira umwanda.

Aba ni abana bato cyane b'abanyeshuri, bambaye impuzankano zirimo imyenda y'amakaroka ririmo uturongo tw'icyatsi kibisi, aba bana bakaba bateze ibiganza ku ivomero rusange, bakaba bari kunywa amazi meza cyane kandi asukuye.

Uyu ni umubyeyi wambaye agapira k'ubururu karimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba ateze igitambaro mu mutwe, ateruye akana ke, muganga wabigize umwuga wambaye impuzankano y'umweru akaba ari kugatera urukingo.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage, uyu ni umusaza wicaye mu nyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba harimo umuforomo wambaye impuzankano y'ubururu uri kumushyira icyumvirizo ku kuboko kugira ngo arebe ko hari umuvuduko w'amaraso afite.

Uyu ni umumama wambaye umupira w'amaboko, akaba akenyenye ibitenge ndetse yambaye n'ingofero ari kuvoma amazi ku ivomero rusange Leta yubakiye abaturage mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira umwanda.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, biganjemo abana bamanitse ibyapa bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, aho bari gushishikariza bagenzi babo kwirinda uburwayi, bityo isi ikagira ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo umurwayi uryamye hasi, yambaye amashuka y'ubururu, ari gufashwa n'abaganga babiri bambaye impuzankano z'umweru, uyu mumama w'umuganga ari kumusuzuma ku kuboko kwe ngo arebe ikibazo afite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iteraniyemo abantu bane, harimo umugabo wambaye ishati y'icyatsi kibisi ndetse n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, imbere yabo hari umumama wambaye agapfukamunwa wifubitse arimo aratanga ifishi ye bakayisuzuma.

Uwo mwana muto cyane wambaye agashati, ari gukaraba ku ivome rusange kandi ari gukaraba aseka. Imbere ye hari amajerekani ari mu ibara ry'umuntudo ndetse n'ubururu, yamaze kuyavoma none ari kwiyogera ku ntoki aseka bitewe n'uko Leta y'u Rwanda yabegereje amazi na bo bakaba batakijya kuyakura kure.

Uyu ni umumama bigaragara ko yahuye n'ikibazo gikomeye, yipfutse mu maso, yambaye ingofero y'umukara, uyu mamama ubwonko bwe ntiburi gukora neza, kubera ibibazo yahuye na byo, akwiye kuganirizwa bityo na we akamera neza.

Uyu ni umumama wambaye agapira k'ubururu, akaba yifubitse uw'umutuku. Ahagaze mu nyubako, ari guseka. Ni byiza ko umuntu agira imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuko bituma abaho yishimye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iteraniyemo abantu bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Hari umumama ubahagaze imbere wambaye agakote k'umukara ndetse n'agakanzu k'umweru, akaba ari kubaha amahugurwa.

Umumama ufite imisatsi myinshi yambaye agakanzu k'umutuku ndetse n'agakote k'umukara, ntakabuza uyu mumama yitwa Aloysie kandi akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Aba ni ababyeyi bateruye abana babo, bakaba bari kumwe n'umwari uri kubaganiriza, aho ari kugenda abasobanurira ibyo bagomba gukora mu rwego rwo kugira ngo abana babo bazakure bafite ubuzima bwo mu mutwe bwiza cyane kandi bukora neza.

Uyu ni umumama wicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye hakaba harambuye umusambi. Ni inzu bigaragara ko igiye gusenyuka. Uyu mubyeyi akaba afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse urabona ko yahungabanye rwose ubwonko bwe butagikora neza.

Uyu ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ubuzima bwo mu mutwe, ukaba warabaye mu wa bibiri na makumyabiri na gatatu, abaganga babiri bashyigikiye agahanga k'umuntu karimo ibitekerezo bigiye bitandukanye.

Iyi ni imbaga y'abantu biganjemo inzobere mu by'ubuvuzi bwo mu mutwe, bakaba bari bakoze inama, aho bari gusobanurira abantu ibijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ubwirinzi bushobora kugirira umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Iri ni ihuriro riri gutangirwamo amahugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, aha hari abagabo ndetse n'umugore bicaye mu ntebe nziza cyane z'umukara, imbere yabo hari amacupa y'amazi, umugore afite indangururamajwi akaba ariko kubagezaho ijambo.

Uyu ni umumama wicaye wenyine arigunze cyane, yicaye ku ntebe y'urubaho, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe ubwonko bwe bukaba butari gutekereza neza, akwiye kubona umugira inama bityo akareba ko na we yakira ihungabana.

Aba ni abana bateraniye hamwe, bakaba bambaye udupira tw'umuhondo ndetse n'amakabutura y'icyatsi kibisi. Bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo bazakure bakomeye kandi batekereza kure.

Uyu ni umubyeyi wicaye hasi. Ateruye umwana ndetse imbere ye n'inyuma ye hari abandi babiri. Yasekuye agaceri gake cyane. Kari muri mironko iteretse ku rutaro ruri imbere yabo. Iyo umuryango ukennye usanga uba ufite n'ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe.

Aba ni abana bato bateraniye hamwe barishimye cyane bari guseka, bamaze gusobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko maze barishima cyane baraseka mu rwego rw'uko bo nta kibazo bafite.

Umugabo bigaragara nkaho asheshe akanguhe, amenyo ye yarakutse harimo amazamu, yambaye ishati y'ubururu afite ibisatsi byinshi cyane birebire, ameze nk'uri guseka kubera ko yarahungabanye, ubwonko bwe ntibugikora neza.

Uyu ni umugabo ufite ibibazo bigiye bitandukanye, yegamiye igikuta, yambaye ishati ndende urabona ko na we byamurenze, akaba yagize ikibazo cyo mu mutwe, ubwonko bwe nti buri gukora neza.

Uyu ni umugabo umeze nk'uwagize ikibazo cy'ihungabana, yambaye igishati kinini kirimo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara akaba afite icumu mu ntoki, yambaye ikigofero gishaje amenyo ye yarakutse, uyu mugabo nta kabuza afite ikibazo cyo mu mutwe.

Uyu ni umumama ndetse n'umupapa bicaye imbere y'abantu bakaba bari kubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, uyu mumama afite indangururamajwi akaba ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara nta musatsi afite, akanura nk'uwanyweye ibiyobyabwenge yicaye hasi yambaye amapingu, inyuma ye hakaba hari umupolisi, wambaye impuzankano ya Polisi y'u Rwanda ndetse n'abandi bantu benshi bamushungereye.

Uyu ni umumama wicaye mu iduka rye, uyu mumama aranezerewe cyane ndetse ari guseka bitewe nuko yakoresheje ubwonko bwe akihangira umurimo, ni byiza kubaho udafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abari babiri umwe wambaye imyenda y'umutuku n'undi wambaye iy'umukara, uwambaye iy'umutuku yambaye n'ingofero hanyuma uwambaye iy'umukara yambaye amarinet bari kuganirizanya mu rwego rwo kugira ngo basanane imitima ndetse uwagize ikibazo cy'ihungabana bamugire inama.

Umumama uteze igitambaro yakunje isura ye, ari bukanura nk'ugiye kwiyahura. Uyu mumama rero bikaba bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ubwonko bwe ntiburi gukora neza akwiriye ubujyanama.

Umugabo w'igikara, uyu mugabo afite ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, yarize amarira amanuka ku matama ye yombi ndetse n'ibimwira biri kuva mu mazuru bimujya mu kanwa. Uyu mugabo birigaragaza ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Aba ni abari babiri bari kuganira, umwe afite agashushanyo k'ingwe mu ntoki ze undi ari kumubaza, bigaragara yuko bose bari gusuzuma imikorere y'ubwonko bwabo ndetse n'imitekerereze.

Umwari wambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, ari guseka cyane afite imisatsi myiza kandi yicaye ahantu heza, bigaragare ko imikorere y'ubwonko bwe ikora neza cyane kandi yishimye.

Aba ni abana bateraniye ahantu hamwe, bambaye impuzankano nziza cyane bambaye amashati y'icyatsi kibisi arimo uturongo tw'umweru, imbere yabo hari akana gato kambaye umupira udasa nk'amashati bambaye, aba bana bakaba bishimye cyane kuko imikorere y'ubwonko bwabo ikora neza.

Uyu ni umusore wagize ikibazo cy'ihungabana ubwonko bwe ntibukora neza, afite igitebo mu ntoki, yiziritse imifuka ku maboko, yambaye imyenda yacikaguritse ndetse yisize n'imbyiro mu isura ye arasa umukara.

Uyu ni umumama wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, afite agatabo mu ntoki, ari kukabereka akababwira yuko gakubiyemo ibintu byabafasha kugenzura imikorere y'ubwonko bwabo ndetse n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe muri rusange.

Uyu ni umumama wambaye umupira w'umukara wateze agatambaro k'umukara ndetse yambaye n'agapfukamunwa, akaba ari gutanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Umukecuru uzengurutswe n'abana benshi cyane bakiri bato, ni abuzukuru be, aba abuzukuru bakaba bamusonzanye na we agira ikibazo gikomeye cyane, bose ubuzima bwabo bwo mu mutwe ntiburi gukora neza.

Iyi ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Iyi nyubako ikaba ari iy'ivuriro, imbere yayo hakaba hari imikindo ndetse n'igiti kirekire. Gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu baza gushaka serivisi muri iyi nyubako.

Uyu ni umwana ufite imisatsi myiza cyane wambaye agasengengeri k'umuhondo ndetse n'uduheren, akaba ari kwa muganga ahavurirwa uburwayi bw'amenyo, muganga wambaye uturindantoki tw'umweru ari kumushyiramo igikoresho ngo arebe uburwayi afite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iki kikaba ari icyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo, aha hari ibikoresho bigiye bitandukanye, muganga yifashisha mu gihe ari gusuzuma abarwayi, ibi bikoresho rero abikoresha mu gihe asuzuma uburwayi bw'amenyo.

Ni abantu bateraniye ahantu hamwe, hakaba habereye igikorwa cyo gusuzuma uburwayi bwo mu kanwa, by'umwihariko uburwayi bw'amenyo, hari abamama bahari bigaragara ko bafite icyo kibazo, kuko yifashe mu mutwe nk'uri kubabara.

Uyu ni umusore mwiza cyane akaba afite urudodo mu ntoki, ari kugerageza kurucisha hagati y'amenyo kugira ngo asukure maze akuremo imyanda yasigayemo, ni byiza gusukura amenyo ukoresheje urudodo.

Iki ni igishushanyo cy'amenyo, kigaragaza amenyo yose y'umuntu ndetse n'imiterere yayo. Abaganga bakifashisha mu gihe bari kwihugura mu rwego rwo kugira ngo umurwayi n'abagana bazamuvurane ubushishozi.

Umwari mwiza cyane wambaye agatambaro k'umweru ndetse n'agasengeri k'umweru, afite uburoso bw'amenyo bw'ubururu buriho n'umuti, ari kuyoza yishimye cyane kandi aseka kuko yasobanukiwe ko isuku y'amenyo ari ingenzi.

Umusore mwiza cyane bigaragara ko yiyitaho afite isuku, afite amenyo meza akaba ari kuyasukura akoresheje urudodo, aho ari kurushyira hagati y'amenyo maze agakuramo imyanda yagiye isigaramo mu gihe yarari kuyoza.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gihe muganga avura uburwayi bw'amenyo, bikaba bigiye bitandukanye, harimo ibyo yifashisha ari gukura imyanda mu menyo ndetse n'ibyo akoresha mu gihe ari gukuramo iryinyo, igihe bibaye ngombwa.

Uyu ni umusore uri kwiba mu kirahure afite urudodo mu ntoki ari kugenda arukoza hagati y'amenyo ye mu rwego rwo kugira ngo ayasukure neza cyane nk'uko muganga yabimutegetse. Ni byiza gusukura amenyo neza cyane kandi buri munsi.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo mirongo itatu n'abiri y'umuntu. Abaganga bakaba bacyifashisha mu gihe bari kwihugura mu rwego rwo kugira ngo bakore ibintu binyuze mu mucyo kandi bya kinyamwuga batibeshye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako isize amarangi y'umweru ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'udutanda bavuriraho abarwayi, ifite parafo nziza cyane y'umweru, ikabamo amatara amurika ijoro n'amanywa.

Umwana muto cyane akaba ari kumwe na muganga uvura amenyo, muganga akaba afite ibikoresho bye byose, yiteguye gusuzuma uyu mwana maze akareba ubuvuzi akwiye guhabwa niba ari ugukurwa iryinyo cyangwa kurivurwa.

Umusore mwiza wambaye agapira k'umweru, ufite mu maso hirabura, afite amenyo meza cyane, afite ubuzima bwiza, aya menyo ye ayakorera isuku nkuko muganga yabimusabye, bityo agahora yishimye kandi aseka.

Abana bato bambaye impuzankano y'ishuri, aba bana bose bafite uburoso bw'amenyo ndetse buriho umuti w'amenyo, bari koza amenyo yabo bishimye cyane kandi baseka, ni byiza gutoza abana, kugirira isuku amenyo yabo, kuko bituma bakura ayo menyo afite ubuzima bwiza.

Uyu ni umusore akaba yambaye ubusa hejuru, afite urudodo mu ntoki ze, agiye kurusukuza amenyo ye nkuko muganga yabimutegetse kuko hari imyanda myinshi isigara mu menyo, bityo agakoresha urudodo ayikuramo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha bakaba bahavurira uburwayi bw'amenyo, hari umuganga w'inzobere mu bijyanye no kuvura amenyo akaba ari kwitegereza igishushanyo kiriho imizi y'amenyo, aho yiga ukuntu bagenda bayikura mu mubiri w'umuntu.

Akana gato cyane karyamye kwa muganga aho bavurira amenyo, muganga wambaye impuzankano y'umweru n'udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afashe ibyuma byiwe yifashisha ari kuvura kano kana.

Umwari mwiza cyane ufite imisatsi inyerera ndetse n'isura nziza ari kutwereka amenyo ye, aya menyo rero bikaba bigaragara ko yayitayeho bityo akaba azira uburwayi ndetse n'umwanda, ni byiza kwita ku menyo yacu.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu aho abaganga bakifashisha bakigiraho bigatuma ibyo bakora babikorana ubuhanga ndetse n'ubushishozi kuko baba barabikoreye ubugenzuzi.

Umwana muto cyane aryamye mu ivuriro kwa muganga. Muganga wabigize umwuga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afite ibikoresho byabugenewe akaba agiye kumukuramo iryinyo rirwaye.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu, bose bafite uburoso bw'amenyo ndetse buriho n'umuti, bakaba bari koza amenyo yabo mu rwego rwo kugira ngo bagire amenyo meza azira umwanda ahubwo afite ubuzima buzira umuze.

Umwari muto wambaye isengeri y'umweru ndetse afite imisatsi myinshi cyane kandi myiza, ari koza amenyo ye yireba mu kirahure. Ni byiza koza amenyo ubyitayeho kuko amenyo ari kimwe mu ngingo zitajya zisubizwamo.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri ndetse n'uko ateye, aya menyo rero muganga ayifashisha ari kwiga uko yavura abafite uburwayi bugiye butandukanye.

Uyu ni umumama w'umuganga, yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku. Yambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki. Akaba ari gusuzuma umukecuru wambaye ikanzu yo mu gitenge uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso.

Umumama bigaragara ko akuze. Uyu mumama ari gukoreshwa siporo n'umwari w'umuzungu wambaye impuzankano y'umukara, ufite imisatsi myiza cyane inyerera. Bose bari kuyikora baganira kandi ubona ko bishimiranye.

Umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu yambaye amarinete, nta musatsi afite yicaranye n'umuforomokazi ukiri muto wambaye impuzankano y'ubururu ufite imisatsi miremire kandi y'umukara, uyu muforomokazi ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso.

Umukecuru n'umusaza bose bambaye imikenyero bari imbere mu ihema ahabereye ubukwe, biragaragara ko bishimye. Ni byiza guha agaciro ababyeyi cyane cyane abakuze kuko bibogirira icyizere ndetse n'ibyishimo.

Umugabo wambaye imyenda bararana akaba ari kumwe n'umuforomokazi w'umuzungu, wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu akaba yambaye n'isaha ku kuboko, ari kugerageza gufasha uyu mugabo gutambuka yifashishije utwuma kugira ngo agorore ingingo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko ari abantu bakuru cyane. Bari kuganira bikorera ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubunyabugeni. Abasaza bose baraganira bikabafasha kubaho.

Uyu ni umubyeyi ukuze, akaba ari guhabwa impano n'abakiri bato, ni byiza kwita ku babyeyi bakuze mu rwego rwo kugira ngo na bo babeho bafite ikizere kandi bishimye cyane bityo rero na bo bishime.

Uyu ni umumama wambaye ishati y'amaboko maremare afite isahani iriho ibyo kurya byiganjemo imboga ndetse n'imbuto, afite ifoke mu ntoki ari kwifashisha, arishimye cyane ari guseka, abakuze ni byiza ko bakwiyitaho.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu yicaye ku buriri, ari kumwe n'umwari ukiri muto, bigaragara nkaho ari umuforomokazi, akaba ari kugerageza kumufasha kugira ngo ahaguruke maze na we agorora ingingo.

Umusaza wicaye ku gatebe, akaba ari kumwe n'abuzukuru be babiri agahungu ndetse n'agakobwa, yabahaye amandazi ndetse n'amata na we ari kurya ku irindazi, ni byiza ko umuntu ukuze abana n'abuzukuru be.

Iyi nyubako nziza cyane irimo umukecuru ndetse n'umwana we ukiri muto. Bakaba bari gutegura ibyo kurya bafite imboga z'amoko agiye atandukanye harimo dodo, urusenda, inyanya ndetse n'imbuto.

Uyu ni umugabo usheshe akanguhe uri kumwe n'umugore we, bombi barashaje, inyuma yabo hakaba hari umusore w'umuganga uri kubitaho ubakurikirana, bari ahantu ku meza bari gufata amafunguro ubonako bishimye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, imbere ye hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi. Ari kumufungira ishati. Bombi bambaye uturindamunwa. Bigaragara neza ko bashobora kuba bari kwirinda uburwayi.

Uyu ni umusaza uri mu za bukuru, yicaye mu rugo iwe imbere y'ameza, hakaba hateretse ikirahure ndetse afite n'igitabo ari kugisoma, ni byiza ko abantu bakuru babona inkuru zo gusoma bityo bagakomeza kwishima.

Umumama wambaye ikanzu y'umuhondo, afite imisatsi miremire ndetse yambaye n'amarinete, afite agacupa karimo umuti mu ntoki ari gusukaho uwa agiye kunywa, ni byiza ko abantu bakuze biyitaho bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru wambaye amarinette afite imisatsi myinshi irimo imvi, ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu akaba afite icyumvirizo mu ijosi, uyu muforomokazi ari kuganiriza uyu mukecuru maze bombi bakanezerwa.

Umusaza ndetse n'umukecuru barishimanye cyane, bombi bigaragara ko bakuze ariko kandi bakaba bakuranye urukundo, ni byiza ko umuryango ukundana, kuva bagishakana kugeza basaje, kuko bituma u Rwanda rugira umutekano.

Umugabo numugore we bose barakuze ariko bakuze bakundana bishimye kandi bakora siporo, aha bari muri siporo aho bari kugenda baganira baseka, bari gukora siporo ahantu heza cyane hari umuyaga.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye imbere y'ameza, bakaba bari guseka umusaza arereka umukecuru bose bagaseka, iyo umuryango ubanye neza ugasazana neza biba ari byiza cyane.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye mu nzu iwabo muri salo, bakaba bafite ibinini mu ntoki. Umusaza afite ibinini mu ntoki ndetse n'agacupa kabyo, na ho umukecuru afite agapapuro bari kurebaho amategeko n'amabwiriza y'uko ari bubinywe.

Umugabo uryamye mu ivuriro yiyoroshe amashuka y'umweru ndetse yambaye n'agapira k'umweru, imbere yiwe iburyo hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, uri kumubaza uko amerewe, inyuma ibumoso hakaba hari imashini imufasha guhumeka.

Umusaza wambaye ishati y'ikigina ufite imvi zitari nyinshi cyane mu mutwe ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru ufite n'icyumvizo mu ijosi. Uyu muganga afite igitabo mu ntoki, ari kugenda asobanurira uyu musaza uko akwiye kwitwararika.

Umusaza wambaye agapira k'amaboko maremare ndetse n'ipantaro, akaba yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ari guseka cyane aho ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho, ari kumusunika baganira bose baseka, maze bakishima.

Umumama bigaragara ko akuze ariko udakuze cyane yambaye ikanzu nziza cyane y'umuhondo ateza igitambaro ndetse yambaye n'amarinete ari kumwe n'umuforomokazi ukiri muto wambaye impuzankano y'ubururu ufite imisatsi yafungiye inyuma, bari kuganira bombi kandi bishimye.

Umumama bigaragara ko akuze, ari kumwe n'umwana w'umukobwa w'umwuzukuru we, akaba ari kumufasha gukora siporo mu rwego rwo kugira ngo agorore ingingo, ni byiza kwita ku bakiri bato kugira ngo na bo bagire amasaziro meza.

Umukecuru wicaye hasi imbere y'ameza afite ikirahure cy'amazi, ari kumwe n'umuforomokazi ukiri muto. Ari kumuha ibinini yiteguye kubinywa kandi abizi neza ko bigomba kumuvura.

Uyu ni umumama wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse wifubitse, afite ibinini mu ntoki ndetse n'ikirahure cy'amazi, ari kubireba, ari kwibaza ukuntu abinywa ariko agomba kubinywa mu rwego kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Uyu ni umugabo w'umusaza wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro, ari kumwe n'umwari ukiri muto, aho ari kugerageza kumufasha gutambuka yifashishije utwuma turi hano, ni mu nyubako y'ivuriro irimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umukecuru bigaragara ko akuze cyane, yambaye agapira k'ubururu ndetse yambaye n'umukenyero, yambaye urunigi mu ijosi rurimo amabara y'umweru ndetse n'umukara afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari kuganira n'abantu ubona ko byamunejeje.

Aba ni abakecuru babiri bakuze. Bambaye imikenyero iri mu mabara y'umweru. Bambaye udupira tw'umutuku, inyuma yabo hakaba hari urundi rubyiruko ruri guturuka inyuma. Bigaragara ko aba bakecuru bishimiye kuba bavuye mu birori.

Umumama bigaragara ko akuze, ari kumwe n'umwari ukiri muto ufite imisatsi iboshye wambaye impuzankano y'ubururu, bigaragara nk'aho ari umuforomo ushinzwe kumwitaho ndetse no kumuba hafi mu rwego rwo kugira ngo atigunga.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare iciyemo uturongo, ateruye akuzukuru ke na ko gafite agapupe kako, abasaza bakuze bakunze kuganira n'abuzukuru babo bityo bigatuma bumva banezerewe.

Ababyeyi batatu bakuze bicaye ahantu hamwe, bombi bafite telefoni mu ntoki, bakaba bayirangariyemo ari imwe ariko ari batatu, aho ubona ko bari kurebamo amakuru maze bakishima.

Umukecuru ukuze afite imvi mu musatsi, yambaye amarinete ndetse yambaye n'agapira k'amaboko maremare, ari kumwe n'umwari ukiri muto bigaragara nkaho ari umwana we wambaye agapira k'amaboko magufi. bari gutegura amafunguro.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare akaba yambaye n'amarinete afite imvi n'agasatsi gake kiganjemo imvi, ari kumwe n'umukecuru ufite imisatsi myiza y'umukara, bari kumeza bari kurya bishimye kandi baseka.

Umukecuru wicaye atetse ibyo kurya, yicaye hanze atetse ku mashyiga ari gukoresha inkwi, inyuma yiwe hakaba hari ibishashi byinshi cyane n'imifuka ndetse atekeye ahantu hari imihati.

Aba ni abamama bakuze bakaba bari muri siporo, bari gukorera siporo mu muhanda mwiza cyane wa kaburimbo, bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru harimo n'uwambaye amarinete, aho bari gukorera siporo ahantu hari indabyo nziza.

Aba n'abana bicaranye n'ababyeyi babo bari kubaganiriza ni zimwe mu ngamba zafashwe z'uko umwana kugira ngo agire ubuzima bwiza ari uko yisanzura ku babyeyi be, maze bakamuganiriza.

Izi ni ingamba zafashwe mu rwego rwo kugira ngo ubuvuzi butezwe imbere ku Isi hose, izi ngamba zafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi, maze bimakaza gushyira imbere serivisi zihabwa umurwayi.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zigiye zitandukanye mu bijyanye n'ubuvuzi, aho yashyizeho ingamba zikakaye kandi zigomba gukurikizwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende bityo ntikizagire abo kizahaza.

Uyu ni umumama ufite imisatsi myinshi cyane kandi iboshye, akaba arimo yishimira imwe mu myanzuro yafashwe na Leta mu rwego rwo kwirinda uburwayi bugiye butandukanye kuko ari bimwe mu bifasha abaturage.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare, ingofero ndetse n'amarinete, afite icyapa mu ntoki kigaragaza ko ubu ngubu urukingo rw'ubushita bw'inkende rwamaze kuboneka. Aha rero abaturage bagira umutekano.

Uyu ni umumama uri guha umwana we ibere. Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zigiye zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima, aho umubyeyi agomba kwita ku mwana we, bityo umwana we akagira ubuzima bwiza.

Izi ni inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye kandi myiza, harimo abagabo n'abagore hakabamo n'umwari ukibyiruka, bari kwifotoza nyuma y'amahugurwa n'ingamba bafashe ku bijyanye n'ubuzima, hejuru yabo hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Aba ni abasore babiri bambaye amakoti meza cyane y'umukara, bambaye amashati y'umukara ndetse n'amakaruvati, bakaba bari gufata ingamba zigiye zitandukanye zita ndetse zikanarengera ubuzima.

Aba ni bamwe mu bagize ihuriro ry'urubyiruko, bateranye maze bafata ingamba zigiye zitandukanye z'ubuzima, ni byiza ko tumenya gusigasira ndetse no kurinda amagara yacu kuko amagara aseseka ntayorwe.

Hafashwe ingamba ko buri muturarwanda wese agomba gusuzumwa tukamenya uko amaraso ye ahagaze. Tukamenya abafite ibibazo, ndetse n'abandi bashobora kwifashishwa batabara indembe.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kwizihiza isabukuru bamaze bafite ubuzima bwiza, ni nyuma y'uko bafashe ingamba z'uko buri muturage agiye kujya yitwararika akirinda uburwayi, ubu bameze neza cyane bari kubyishimira.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bari kuganira ndetse bungurana n'ibitekerezo bagamije gufata ingamba zifatika zo kwirinda indwara y'icyorezo yateye ku Isi hose, bambaye amakote meza cyane ndetse n'amakaruvati.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, harimo abazungu ndetse n'abirabura. Harimo n'abashinzwe umutekano. Ni nyuma y'uko bagize inama maze bagafata ingamba zigiye zitandukanye zo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Uyu ni umwari wicaye, uyu mwari rero akaba ari umuhanga mu by'ubuvuzi, akaba ari gukangurira abantu kwirinda icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, kandi akabahumuriza ababwira ko kitaziyongera.

Uyu ni umwari ufite ubuzima bwiza, uyu ni umunsi wagenewe kurwanya ndetse no gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'indwara ya diyabete, aha hari umwari rero ukenyeye agatambaro mu mutwe ndetse wambaye n'agapira gato cyane.

Aba ni abaganga ndetse n'inzobere mu by'ubuzima bateraniye hamwe. Ni mu ihuriro rya makumyabiri ryiga ku bijyanye n'uburwayi bwa sida ndetse n'uko byagerageza kugabanywa. Aha harimo umuntu ufite indangururamajwi uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Iyi ni inyubako iteraniyemo abantu benshi cyane higanje mu rubyiruko, bakaba bari gufata ingamba zigiye zitandukanye kandi zinyuranye mu rwego rwo kugira ngo bateze imbere ubuvuzi kandi abantu bagira ubuzima bwiza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo inzobere mu by'ubuvuzi, bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, imbere yabo hari icyuma kigaragaza amashusho bari kurebamo ibyo bari gukorera ubugenzuzi mu rwego kugira ngo babinoze neza.

Aba ni abantu batandukanye bateraniye ahantu hamwe, bari mu nyubako nziza cyane aho bari kugenda bungurana ibitekerezo ndetse bafata n'ingamba zigiye zitandukanye ku byerekeranye n'ubuvuzi ndetse no gusubiza ubuzima abari mu kaga.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda cyikaba cyarafashe ingamba zigiye zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo harengerwe kandi hasigasirwe ubuvuzi, bityo abaturarwanda bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, ku munsi wahariwe kurwanya SIDA, aha hari muri bibiri na makumyabiri na kane, aho hari hateranye abantu benshi cyane, bari kwiga ku bibazo byugarije abatuye Isi ndetse hakaba hari n'ingamba zafashwe icyo gihe.

Izi ni zimwe mu ngamba Leta yafashe mu rwego rwo kugira ngo ubuvuzi bw'indwara ya diyabete bunozwe, kandi mu gihe gito, bikorwe byizewe ku buryo buri murwayi wese uyifite ahabwa ubuvuzi.

Leta y'u Rwanda yongereye imbaraga buri muntu mu byo akora byose, mu rwego kugira ngo Igihugu gitere imbere kandi kigire ubuzima bwiza. Zimwe mu ngamba zafashwe na Leta kugira ngo abaturage bamere neza ni uko banoza imirimo bakora kandi bakabonera ubuvuzi ku gihe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati. Imbere yayo hari pasiparumu ndetse n'indabyo. Ndets ikorotirijwe ibyuma bisize irangi ry'umukara.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba igeretse inshuro eshatu, mu imbere harimo ibendera, ndetse i muhanda hari icyapa kigaragaza izina ry'iri vuriro, ndetse n'indwara bavura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite igisenge cy'icyuma ndetse mo imbere igabanyijemo utwumba tugiye dutandukanye, mu rwego rwo kugira ngo bayitangiremo serivisi nyinshi cyane abarwayi bavurwe vuba.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Ikaba iryamyemo umumama wambaye ikanzu yazamutse. Hari abaganga bari kugerageza kumwitaho mu rwego rwo kugira ngo barebe ko ubuzima bwe bwagaruka ariko ararembye cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo amatara menshi cyane amurikamo, hasi harimo amakaro. Inyubako irimo ibyumba bigiye bitandukanye bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umuhondo ikaba ifungishije inzugi z'imbaho hejuru hariho amagambo ari mu Cyongereza, agaragaza ko bavura uburwayi bw'amaso.

Inyubako y'ikigo nderabuzima yubashtswe mu buryo busanzwe yubakishijwe amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari jarde irimo pasiparumu ndetse n'ibiti bitanga umuyaga ku muhanda hakaba hari icyapa kigaragaza izina ry'iryo vuriro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho mo imbere hakaba harimo inzobere mu by'ubuvuzi ndetse hakabamo n'icyuma gisuzuma umubiri wose, iki cyuma kiba kimeze nk'igitanda aho bakuryamishaho, maze kamera iri hejuru ikagaragaza uburwayi ufite umubiri wawe wose.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo amazu menshi yubatswe mu buryo bugiye butandukanye, muri iryo vuriro hinjiyemo umuntu utwaye igare ndetse hakaba hari n'icyapa kiri ku muryango winjiramo, kigaragaza ko ari ibitaro bya Kabgayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, inyubako ikaba i isize irangi ry'umweru, ifite amatara amurikira abarwayi ndetse harimo n'ibitanda biryamyeho abarwayi, hari umugabo uri kumanika inzitiramibu ndetse ubona ko yishimye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ni inyubako nziza cyane aho iyo uyigannyemo haba hari ukuyobora aho ugiye, hari abantu bari gutambukamo bigaragaza ko bagemuriye abarwayi bayirwariyemo.

Umumama wambaye ishati y'umweru, ateruye akana gato kavutse uwo munsi, ari kumwe n'umuforomokazi wambaye imyambaro y'ubururu irimo akabara k'umweru ndetse n'amarinete, bose barishimye kuko bagize amahirwe yo kubona akana.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubakishije amatafari ahiye, umuhanda ujya muri iri vuriro ukaba urimo kaburimbo haparitsemo amamodoka, hakaba harimo n'icyapa kigaragaza gahunda z'iri vuriro, kikaba kiri mu busitani bwiza cyane buzengurutswe n'indabyo.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati asa nk'amategura, izengurutswe n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abarwayi baje kwivuza, imbere hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya Gisenyi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako irimo irangi ryiza cyane, hakabamo uturongo tw'umutuku ndetse n'ubururu. Harimo udutanda tugiye dutandukanye, abaganga bavuriraho abarwayi hasi hakaba hari amakaro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, hari abazungu ndetse n'abirabura bakaba bari kwifotoreza ku cyapa kiri muri iryo vuriro, bigaragara ko ari ibitaro bya Butaro ndetse harimo ubusitani bwiza n'ibiti bitanga umuyaga.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ibitaro iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho kuko igeretse kabiri kandi ikaba irimo urujya n'uruza rw'abarwayi, haparitsemo imodoka nyinshi ndetse imbere yayo hari icyapa kigaragaza ko ibi ari ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda biherereye i Butare.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba icururizwamo imiti y'amoko agiye atandukanye, imbere yayo hariho amashusho agaragaza ubwoko bw'imiti irimo hano, ndetse bakagaragaza n'intego yabo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro irimo ibikoresho byiza cyane bigiye bitandukanye, harimo indege zifashishwa mu kujyana amaraso mu mavuriro hirya no hino, ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hakaba hamanitsemo n'isaha, iyi nyubako igezweho.

Inyubako y'ivuriro ni inyubako nziza cyane kandi igezweho, ikaba irimo inkuta zisize irange ry'umweru ndetse n'ubururu, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakabamo abaganga benshi cyane n'abaforomo, hari umuforomo uri gutambuka wambaye impuzankano y'ubururu.

Uyu ni umuganga wambaye impuzankano y'umutuku. Imbere ye hari ababyeyi babiri bakuze kandi ubona ko bafite umubyibuho ukabije. Akaba ari kubasuzuma kugira ngo arebe ko nta muvuduko w'amaraso bafite maze abafashirize ku gihe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, yubatse neza mo imbere hakaba harimo inkuta zisize amarange y'ubururu ndetse n'umuhondo ndetse parafo ni umweruru, hasi hakaba hari isima nziza cyane.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, irimo amarido meza, hakaba hari umugabo wambaye impuzankano y'ubururu, afite mudasobwa imbere ye ndetse hari n'indi ari kurebamo iri ku ruhande, bigaragara yuko ari kugereranya ibyo ari kubona kuri mudasobwa imuri imbere n'indi iri ku ruhande rwe.

Uyu ni umusore wambaye ishati y'umweru, mu imbere yambayemo agasengenge k'umweru, aryamye mu nyubako y'ivuriro imbere y'imashini bigaragara ko yongera umwuka ndetse n'amaraso, uyu mugabo akaba yishimye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Byifashishwa n'abaganga mu gihe basuzuma, ndetse banavura abarwayi bafite indwara zigiye zitandukanye.

Iyi ni inyubako y'Ikigo Nderabuzima. Ikaba irimo abantu baje kuyivurizamo. Harimo abamama, hakabamo abapapa, abana ndetse n'abasore. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umweru, wabanje kubaha amahugurwa mbere yuko bavurwa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatse neza cyane mo imbere harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda hakaba icyapa kiriho amagambo agaragaza uko iri vuriro rikora, kikaba giteretse mu busitani bwiza cyane burimo pasiparume ndetse n'ibiti.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ry'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite inkuta zi y'irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru mu imbere harimo intebe nziza cyane umurwayi yicaraho mu gihe ategerejwe kwakirwa ngo yitabweho na muganga.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iri vuriro rikaba ririmo ibitanda byiza cyane abarwayi baryamaho igihe bari kuvurwa, harimo imashini bareberaho amakuru agiye atandukanye ndetse hakaba n'ibyuma abaganga bifashishije mu gihe babasuzuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako isize irangi ry'umuhondo ndetse irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari n'icyuma gisuzuma umubiri wose w'umuntu aho bakuryamisha ku gitanda kiri hasi maze icyo cyuma kiri hejuru kikagaragaza uburwayi ufite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi. Harimo umurwayi urembye cyane abaganga bamuteraniyeho, bari kugerageza kumusubiza ubuzima.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari umwari wambaye amarinete, nkuko bigaragara muri iri vuriro bashobora kuba batanga serivise zijyanye no kuvura uburwayi bw'amaso.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, harimo imodoka ziparitsemo ndetse kuri iyo nyubako hakaba hari n'icyapa kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba ifite inkuta zisize irange ry'umweru, hari agace gato gasize irange ry'umukara, hakaba harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru agaragaza ko ari ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo igitanda kiryamyeho umurwayi, imbere ye hari umuganga w'umumama wambaye impuzankano y'umweru n'uturindantoki tw'umweru ari kugerageza kuvura uyu mu ngo arebe ko yamusubiza mu buzima.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha hantu hatangirwa imiti hazwi nko muri faromasi. Harimo amoko y'imiti agiye atandukanye, hari iri muducupa, hakaba iri mu dukarito, kandi na yo ikaba ifunze mu buryo butandukanye bitewe n'ingano.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, isize amarangi y'amoko agiye atandukanye arimo umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye, abaganga bakoresha mu gihe bavura abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari amagambo agaragaza izina ryayo, ariko yanditse mu cyongereza, hari abari beza cyane bambaye impuzankano y'ubururu, bafunze ibipfunsi, bakaba biyemeje gutanga ubuzima.

Iyi ni inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako isizwe amarangi y'umweru mo imbere, hakaba hashushanyijemo ibintu bigaragara nk'ibitete, aha rero hakaba havurirwa abana, ubu ni ukugira ngo batagira ubwigunge.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatse neza. Ese hari umuntu wari uzi ko kuri ubu mu Rwanda twaba dufite inyubako nziza nk'izi? Igisubizo ni oya. Nta muntu n'umwe wari uzi ibi bintu, ariko kuri ubu u Rwanda rwamaze kuzubaka ndetse abaturage bose bivuriza mu mavuriro meza.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako isize irangi ry'umuhondo. Ikaba irimo inzugi z'imbaho za kaki. Hasi hari amakaro. Ikaba irimo amatara meza cyane abonesha ku manywa ndetse na nijoro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, inkuta zisize irangi ry'umweru, isakaje amabati atukura, mo imbere muri iyo nyubako hari imbuga nziza irimo ubusitani, hateye indabyo nziza ndetse na pasiparumu.

Izi ni inyubako z'ivuriro. Inyubako zubatse neza cyane mu buryo bugezweho kandi nyinshi, mo imbere hakaba harimo amatara amurika mu masaha y'ijoro, harimo ubusitani bwiza cyane butohagiye hakabamo n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umusore wambaye impuzankano y'umweru ari mu nyubako y'ivuriro yubatse neza cyane irimo ibikoresho byiza kandi by'ikoranabuhanga. Uyu musore akaba afite agacupa k'umuti mu ntoki ari kugenda awusuzuma ngo arebe ko wujuje ubuziranenge.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo buhebuje, hasi hakaba harimo tapi nziza cyane y'icyatsi kibisi irimo uturongo tw'umweru, hakabamo n'ibindi bikoresho byinshi cyane ubona ko ari iby'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba irimo amabara agiye atandukanye, iratatse cyane ku buryo bigaragarira ijisho, hakaba harimo ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga abaganga bashobora kwifashisha maze bakavura abarwayi neza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Yubatswe mu buryo bugezweho isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru. Mo imbere haparitsemo amamodoka menshi cyane. Imbere yayo ku marembo hari icyapa kigaragaza izina ry'iri vuriro.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho kuko igereraretse inshuro eshatu, ikaba ifite ibirahureri byiza cyane bisa umukara, mo imbere hakaba hari ubusitani bwiza cyane bukurura umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu baharwariye.

Iyi ni inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Hakaba hari gutambukamo umusore wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara yatebeje, hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umuganga wicaye ku ntebe yambaye impuzankano y'umweru ndetse yambaye n'akumvirizo mu ijosi, akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu. Ari gupima umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano irimo amabara y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu, akaba yicaye ku ntebe; akaba ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku nkuta, ndetse isakaje amabati y'ubururu. Hari imodoka iparitse imbere yaho, ndetse hakaba hari n'abantu bari kwinjiramo, bagiye gushakamo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, mu imbere hari umuntu ucunga umutekano wambaye impuzankano iri mubara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hari imodoka nyinshi cyane ziparitsemo ndetse harimo urujya n'uruza rwaje gushakamo serivisi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho. Inkuta zisize irangi ry'umweru. Hakaba harimo icyuma gisuzuma abarwayi, ndetse hari n'utubati dufasha abaganga ubwo baterekamo ibikoresho bari gukoresha.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitanda basuzumiraho abarwayi, hakaba imashini zigaragaza uburwayi umurwayi afite ndetse hakaba n'akuma bashyiraho serumu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo igitanda bavuriraho abarwayi, hakabamo imiti bifashisha ndetse n'imashini bakoresha mu gihe bari gusuzuma.

Aba ni abari batatu beza cyane, bambaye impuzankano y'ubururu, bambaye n'ingofero z'umweru, bahagaze mu muhanda w’igitaka ariko mwiza ukikijwe n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye kandi byiza, harimo intebe nziza cyane z'umukara, hakaba ameza ariho irangi ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru ndetse hari na mudasobwa muganga yifashisha.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iteraniyemo abaganga benshi bambaye impuzankano y'umweru. Bakaba bari gusuzuma ibizamini bafite ngo barebe indwara zirimo. Ni byiza ko abaganga baba bafite ubuhanga ndetse n'ubumenyi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inkuta ziriho irange ry'umweru, hari amadirishya meza cyane afunguye kugira ngo umwuka winjiremo imbere, ibitanda byiza cyane bisashe bivurirwaho abarwayi, hejuru ya buri gitanda hariho inzitiramibu.

Iyi ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako igeretse ishuro enye, imbere yayo hari ushinzwe umutekano uhicaye ku ntebe ya purasitiki y'umweru ndetse hari n'undi uri gufungurira imodoka ngo isohoke.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatse neza cyane mu buryo bugezweho, inkuta zisize irangi ry'umuhondo, hari imashini nziza cyane kabuhariwe zikoresha ikoranabuhanga zisuzuma abarwayi aho babaryamishaho maze bakamenya uburwayi bafite umubiri wose.

Iyi ni inyubako y'Ikigo Nderabuzima, ikaba yubatse neza. Yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru mo imbere. Hicaye abantu baje kwivuza bicaye imbere y'idirishya bari guhererwamo serivisi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari umurwayi uryamyemo bari gusuzuma, aho bamushyira munsi y'imashini bityo bagahita babona uburwayi afite umubiri we wose.

Uyu ni umwari wambaye impuzankano y'ubururu, ari kwita ku mubyeyi uryamye ku gatanda, iyi nyubako y'ivuriro irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha uyu muganga kuvura umurwayi bigatuma akira neza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo umugabo wicaye ku gatebe k'umukara ndetse n'umuganga w'Ikigo cy'Igihugu cyita ku buzima, akaba ari gusuzuma uyu mugabo ngo arebe ko nta burwayi afite buri mu maraso ye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo ibitanda byiza cyane abarwayi baryamaho ndetse kuri buri gitanda, hagiye hariho n'imiti muganga yifashisha mu gihe ari guha umurwayi, hakaba hari n'imashini amasuzusha.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo ibikoresho byose bigiye bitandukanye haba ibyifashishwa n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bishobora gukora nta koranabuhanga bifite. Harimo umumama uryamyemo bigaragara ko ari guhabwa ubuvuzi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ifite inkuta nziza cyane zisa umweru, ikagira parafo ya kaki, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'udutanda bashyiraho abarwayi igihe bagiye kubavura ndetse n'utubati babikamo ibikoresho bifashisha.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo ubusitani bwiza cyane burimo indabyo zikurura umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu bahagenda ndetse n'abahivuriza, hakaba hari utuyira dusashemo amabave, hari abantu bari kudutambukamo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho ndetse ifite n'igipangu cyubatse neza, hanze yayo hari icyapa kigaragaza izina ry'iryo vuriro, serivisi batanga ndetse n'ibigo by'ubwishingizi bakorana na byo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo icyuma bifashisha mu gihe basuzuma abarwayi mu buryo bwo gusuzuma umubiri wose, akaba ari inyubako ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, harimo utubati babikamo ibikoresho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, ikaba ifite parafo y'umweru, irimo amatara meza cyane yaka, ikaba ifite n'akuma kongera umuyaga igihe ubushyuhe bwabaye bwinshi mu ivuriro mo imbere.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha mu gihe basuzuma abarwayi, mu rwego rwo kugira ngo babahe ubuvuzi bakwiye, harimo umuforomokazi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ivu n'agapfukamunwa k'ubururu.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, imbere yayo hakaba haparitse imodoka y'umukara, hari icyapa kiri hejuru kuri iyo farumasi kigaragaza izina ryayo ndetse n'aho ikorera.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro, isize irangi ry'umweru, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga igihe hasuzumwa abarwayi ndetse banabavura. Aha hari icyuma cyifashishwa basuzumwa umubiri wose w'umuntu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho. Harimo icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa basuzuma umurwayi umubiri wose. Aho bamuryamisha munsi yacyo, maze bakareba ku mashini ihari bakamenya uburwayi afite.

Inyubako nziza cyane yivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inkuta zisize irangi ry'umweru. Harimo ibitanda byiza cyane. Abarwayi bavurwa mu bitaro baryamaho hakaba irido itandukanya umurwayi n'undi. Aha imbere ya buri gitanda bamanikaho inzitiramibu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye muganga yifashisha mu gihe ari gusuzuma abarwayi, harimo mudasobwa ndetse n'icyuma ashobora kunyuzamo umurwayi mu rwego rwo kugira ngo abone uburwayi afite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse inshuro eshanu iyi nyubako iriho umubare cumi na kabiri bigaragaza ko hakoreramo abantu cumi na babiri, iyi inyubako n'iy'ivuriro kandi baravura neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, igereretse inshuro ebyiri, isize irangi ry'umuhondo, hakaba hariho icyapa kigaragaza ko ari inzu y'ababyeyi cyangwa se aho ababyeyi babyarira.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro, ari kumwe n'umuforomokazi ukiri muto ufite imisatsi myiza cyane inyerera, yambaye impuzankano y'ubururu. Uyu muforomokazi ari gusuzuma uyu musaza umuvuduko w'amaraso.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe neza cyane kandi mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafarihiye, ikaba igeretse inshuro ebyiri, ifite amadirishya meza cyane ariho n'amarido, hari abamama bane ndetse n'umugabo umwe bayifotoreje imbere.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite inzugi ziriho ibirahure. Hejuru y'umuryango hakaba hari amagambo agaragaza ko aho bahakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, mu imbere harimo abantu baje kwaka serivisi z'ubuvuzi, hari umusore wicaye ku ntebe aho bategerereza ndetse hari n'undi ugeze aho bakirira, bakaba bari kumwakira bamusaba imyirondoro ye.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, iyi nyubako ikaba irimo abantu baje kwigurira imiti ndetse harimo umubyeyi uhetse umwana ufite n'undi mu ntoki, aha muri iri vuriro hejuru hakaba hagaragaraho icyapa cy'izina ry'iri vuriro ndetse n'ibigo by'ubwishingizi bakorana nabyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi ni inyubako yuzuye itwaye amafaranga menshi cyane, ariko ikaba yarubatswe kugira ngo abarwayi bavurirwe ahantu heza cyane, bityo basubizwe ubuzima, banezerwe.

inyubako y'ivuriro iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo ibikoresho byiza cyane kandi byizewe hakaba hari naho bajugunya imyanda mu gihe bamaze, gukoresha mu gihe bakoresha ibipfuko ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ni inyubako yubatswe neza cyane kandi mu buryo bugezweho, ikaba ifite ubusitani bwiza bwa pasuparumu, harimo ibiti bikiri bigaragara ko nibikura bizajya bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahagana.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo inkuta zisize irange ry'umweru, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. aha nk'uko bigaragara ni aho basuzumira ibizamini abaganga na bo bagashiramo ubushishozi.

Umusore bigaragara ko afite ibigango, yambaye isengeri ndetse n'ikabutura, yambaye n'inkweto za siporo, ari kwiruka aca mu turongo. Uyu musore yakoze siporo maze nawe ziramuyoboka aragenda azana ibigango.

Uwo mwari wambaye agasengeri karimo amabara: iry'umukara, icyatsi kibisi, umweru ndetse n'ubururu, afite isume y'umweru ku rutugu rwe, akaba afite n'icupa ry'amazi, ari kugenda ayanywa, avuye muri siporo.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'umweru, yambaye ekuteri mu matwi, yambaye n'isaha ku kuboko, akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki aho ari kugenda ayanywa gake gake ndetse ni byiza gukora siporo wangiza ukanywa amazi.

Umwari wambaye agasengengeri gato cyane k'umweru, afite imisatsi myinshi cyane kandi myiza y'umukara yambaye agapantaro kamufashe, yarambuye agatapi ari gukora siporo, aho agorora umugongo we amaboko ndetse n'amaguru icyarimwe.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'umweru k'amaboko mato, akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi. Uyu musore ubwo yakoraga siporo yagize imvune mu kuboko kwe kw'iburyo. Afite ishashi yafatiyeho, akaba ari kugorora ingingo ze.

Aka ni agasanduku karimo ibikoresho ushobora kwifashisha utanga ubuvuzi bw'ibanze. Ahantu hose habereye siporo, hagomba kuba hari ibikoresho by'ubuzima. Bashobora kwifashisha bakabona ubutabazi bw'ibanze.

Uyu ni umusore wagiriye impanuka muri siporo, agira ikibazo cy'imvune mu kuguru kwe kw'iburyo. Aha ari ni mu nyubako bavuriramo abagize ibyo bibazo. Harimo umugabo uri kureba uko bamuvura ukuguru kwe bakumanitse kugira ngo ingingo zigororoke.

Iki ni kimwe mu bikoresho bifasha abantu bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane abakomerekeye muri siporo kuko bamuzirikaho bande bityo bigatuma ingingo ze zigororoka rugasubirana urwari rwavuyemo.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara, yambaye inkweto za siporo, ari kuzamura amaguru ku nkingi z'ibiti zubatse aho ngaho, mu rwego rwo kugira ngo amaguru ye akomere kandi agire ubuzima bwiza.

Umwari wambaye agasengengeri gato cyane n'ipantaro imufashe, yarambuye agatapi mu nzu iwe iwe, akaba ari kwigorora cyane, aragororotse nk'uko tubibona, akaguru kamwe k'iburyo kari inyuma akandi kari imbere, maze yazamuye amaboko hejuru.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora siporo, hakabamo ibihembo bihabwa uwahize abandi muri siporo ndetse hari n'imbuto ushobora gufata mu gihe uvuye muri siporo, harimo nk'amarongi, imineke ndetse n'inanasi.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye yifashishwa mu gihe uri gukora siporo, iyi ikaba ari imiti y'ibanze ishobora kugufasha kugira ubuzima ndetse no kwiha ubutabazi bw'ibanze. Harimo ga, hakabamo bande ndetse hakabamo na pomade.

Umusore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu, yakoze siporo maze agira impanuka avunika ukuboko kwe kw'iburyo, ari gushyiraho ishashi akagerageza kugorora ingingo ze kugira ngo yumve ko yagororoka.

Iri ni icupa ryiza cyane rikaba ririmo amazi asa neza, aya mazi ushobora kuyanywa ushoje gukora siporo bigatuma ugira ubuzima bwiza kuko uba watakaje amazi menshi, bityo akagaruka mu mubiri wawe.

Siporo ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu kuko imufasha kugira ubuzima bwiza mu buryo bugiye butandukanye. Aha hariho abari bari gukora siporo kandi bakagaragaza yuko ari ingirakamaro, ku buzima bwabo.

Ni byiza gukora siporo ariko kandi nanone ukaba ufite zimwe mu mbuto ndetse n'imboga zongera intungamubiri ugomba kurya mu gihe uvuye muri siporo, harimo karoti, intoryi, amashu ndetse n'amaronji.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyanywa. Uyu musore avuye muri siporo arangije afata amazi nka bumwe mu buryo bwo kugerageza kuruhura ubwonko ndetse no gusubizamo amazi yatakaje.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, afite amaboko maremare, afite icupa ry'amazi aramye ari kuyanywa, uyu musore avuye muri siporo kubera ko yari ananiwe afata amazi arayanywa mu rwego kugira abanze aruhuke.

Uyu ni umusore wari uri muri siporo maze agira ikibazo aramanuka yikubita hasi. Hari abaganga bahise bahagerera ku gihe. Bakaba barikumuha ubutabazi bw'ibanze, mbere y'uko bamugeza ku ivuriro ngo ahabwe ubufasha.

Igikapu gifite amabara y'umukara ndetse n'umutuku. Kirimo amoko y'imiti agiye atandukanye abantu bifashisha mu gihe bari muri siporo. Ibi ni bimwe mu bikoresho by'ibanze umuntu wese akora siporo agomba gukora yizeye ko bihari.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa muri siporo. Aho bagatereka ahantu maze bagashyiramo amashusho. Abari gukora siporo bakajya bigana ibiri kugaragara muri iyo ngaragazamashusho bityo na bo bakabasha kugorora ingingo zabo.

Uyu ni umusore wambaye ijketi akaba afite icupa ry'amazi, yambaye n'ikabutura asoje siporo akaba ari kunywa amazi mu rwego rwo kugira ngo agarure imbaraga ndetse n'amazi yatakaje ubwo yakoraga iyo siporo.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru yambaye uturindantoki, afite ingofero irinda umutwe y'umutuku, imbere ye hakaba hari akuma kifashishwa hazimwa inkongi y'umuriro.

Agasanduku karimo ibikoresho ndetse n'imiti ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora siporo, iyi ni imiti y'ibanze igomba kugaragara ahari kubera imikino ndetse n'imyidagaduro, mu rwego rwo kugira ngo ugize ikibazo ahabwe ubufasha.

Umusore wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara ari gukora siporo, ari mu nzu, yarambuye umukeka w'umukara, ashinga ivi, ukundi kuguru arakurambura, ari kugorora umugongo we mu rwego kugira ngo agororoke maze mu gikorwa ajye aba ari uwa mbere.

Ubu ni ubwoko bw'ibikoresho ushobora kwifashisha ugorora ingingo zawe ndetse n'ibiribwa ushobora kurya nyuma yo ukora siporo mu rwego rwo kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza, niba uvuye muri siporo ugomba kurya igi, ukarya ibishyimbo, ukarya urusenda, ukarya n'imbuto zigiye zitandukanye.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo harimo umwari mwiza cyane wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, afite imisatsi myiza cyane iboshye imbere ye hari mudasobwa arikuyirebamo.

Uyu ni umwari wambaye agaseri gato cyane ndetse n'agakabutura gato, yambaye n'inkweto za siporo arahagaze ari kunanura amaguru ye, ahagaze ahantu heza cyane bigaragara ko hari umuyaga umufasha gukora siporo.

Aba ni abantu bakina imikino igiye itandukanye, bikaba bigaragara ko hagiye kuzaba irushanwa mu mikino yose, mu rwego rwo kugira ngo bakore igikorwa cyiza cya siporo zihuza abantu.

Uyu ni umuntu wagiriye impanuka muri siporo ubwo yari ari kuzikora, bamujyanye kwa muganga muganga wambaye itaburiya y'umweru ufite amakaramu ku mufuka ari kumwitaho, aho ari gushinga urutoki mu ivi kugira ngo yumve aho ikibazo kiri.

Iyi ni inyubako ikorerwa muri siporo, iyi nyubako ikaba irimo icyuma kabuhariwe umuntu ashobora kwicaraho maze kikagorora umubiri we wose, akahava ameze neza cyane yagororotse kandi yishimye.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gihe hari gukorwa igikorwa cya siporo, harimo uturindantoki, hakabamo umukasi ndetse harimo na pomade, hakabamo n'ikinya bashobora gutera uwagize ikibazo gikomeye cyane.

Umwari wambaye agasengeri gato cyane k'umukara ndetse n'ipantaro imufashe. Abyutse yinanura yicaye ku buriri, aho bigaragara ko we siporo ze azikora akibyuka kandi akazikorera aho yaraye.

Uyu ni umusore uryamye hasi, yambaye agapira k'umweru ndetse n'ikabutura y'umukara, hari umugabo wambaye imyenda y'umukara hose uri kugenda umugororera ingingo, iyi nzu ikaba ivurirwamo abagize ibibazo bigiye bitandukanye bari muri siporo.

Uyu ni umusore uryamye ku gatanda akaba ari gukora siporo, aho ari kumwe n'umutoza we, aragenda amwereka ibyo akora, ari kubikorera mu nzu nziza cyane ifite ibikoresho byiza bigezweho, kandi by'ikoranabuhanga.

Umusore wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, yagize ikibazo cy'imvune mu kuboko kwe kw'iburyo ubwo yakoraga siporo, uyu musore ari kugerageza gushyiraho ishashi ngo akogorore maze yumve ko yakira neza maze agasubira muri siporo.

Iyi ni ingobyi yifashishwa ahantu habereye imikino ndetse n'imyidagaduro, aho ugize ikibazo bamuryamishaho bityo bakamugeza ku ivuriro maze agahabwa ubutabazi.

Umwari ukiri muto wambaye insengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru, yarambuye tapi muri salo ye ari gukora siporo zigiye zitandukanye aho agorora umutwe amaboko ndetse n'amaguru icyarimwe.

Leta y'u Rwanda itegura amarushanwa muri siporo, mu rwego rwo kugira ngo abantu bose bitabire icyo gikorwa bityo bagirwe inama z'ukuntu bashobora gukora siporo bakarinda ubuzima bwabo.

Umwari ukiri muto yambaye agasengeri karimo amabara y'icyatsi kibisi, umweru ndetse n'ubururu, akaba afite isume y'umweru mu ijosi rye, afite n'icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyanywa nyuma yuko asoje siporo.

Iki ni ikirahure giteretse hasi, kikaba kirimo amazi meza cyane, umuntu wagiye muri siporo araza ananiwe cyane kandi akeneye kuruhura umubiri, maze anywe aya mazi agarure ubuzima bwiza.

Iki ni kimwe mu bikoresho abantu bakora siporo bashobora kwifashisha mu rwego rwo kurinda amaguru yabo, aho ashobora kujya gukina umupira yacyambaye mu kaguru ke yakora impanuka akikubita hasi akaba atavunika ukuguru.

Umukobwa wambaye agasengeri gato cyane, yambaye ekuteri mu gutwi, yambaye n'ipantaro imufashe ndetse n'inkweto, ari kugorora umugongo, amaboko ndetse n'ukuguru kwe kw'ibumoso. Ni byiza gukora siporo cyane cyane kubari.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa hakorwa siporo zigiye zitandukanye, harimo umugozi ushobora gusimbuka ingingo zawe zikagororoka ndetse hakabamo n'umupira ushobora gukina bityo ni byiza ko buri muntu agira siporo akora kugira ngo ubuzima bwe bumere neza.

Iki ni igikapu kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku. Hakaba harimo ibikoresho ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo. Bityo mu gihe ukoze impanuka ukaba wagezwa kwa muganga utanegekaye kuko wahawe ubuvuzi bw'ibanze.

Uyu ni umusore wagiriye impanuka muri siporo, ni umusore wambaye agapira k'umukara, ikabutura y'umukara irimo uturongo tw'umweru tumanuka, ari kumwe n'umuforomokazi w'umwari mwiza w'umuzungu uri kugenda umuvura ikirenge cye cy'iburyo cyagize imvune.

Ubu ni ubwoko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa muri siporo. Aho bagaragaza umuti uvura ububabare, bakagaragaza ikinya ndetse iyi miti iri mu moko agiye atandukanye kandi ni byiza gukora siporo iri hafi yawe.

Aka ni akadege gato cyane kaba mu Rwanda. aho kifashishwa mu gukura amaraso ahantu hamwe kayajyana ahandi bitewe n'aho akenewe. Kakaba kabikora bityo amaraso akagera ku bayakeneye bitagoranye kandi byihuse.

Uyu ni umusore wagize imvune ku maboko ye yombi igihe yakoraga siporo, yihutiye kujya kwa muganga maze muganga ukurikirana abagiriye ibibazo muri siporo amwitaho, abasha gupfuka ibiganza bye byombi kugira ngo ingingo ze zigororoke.

Umwari mwiza cyane ufite imisatsi iboshye, afite amaboko ari kuzamura mu kirere, aho ari mu myitozo ngororamubiri, ni mugitondo cya kare arabyutse ahita akora siporo kugira ngo umunsi uze kwirirwa umeze neza.

Mu buzima busanzwe siporo ni igikorwa gituma umubiri wawe ushobora gukora neza, bityo bigatuma utunyangingo twawe tuzarama ibihumbi ndetse n'ibihumbi, ese ibi wari ubizi, ibi niko bimeze.

Uyu ni umwanawana w'umusore akaba yari ari muri siporo, aho yakoraga amarushanwa yo kwiruka n'amaguru, agize ikibazo k'ikisereri yikubita hasi nuko abakorerabushake bari hafi aho, bahita bamuterura kugira ngo bamuhe ubuvuzi bw'ibanze.

Uyu ni umusore uri gukora siporo, uyu musore yakoze siporo kugeza ananiwe, yambaye isengeri y'icyatsi kibisi, akaba afite amaboko manini cyane, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa araramye, bigaragara ko yari afite icyaka cyane yatewe na siporo.

Iyi ni inyubako iberamo ibikorwa bya siporo bigiye bitandukanye. Hari abagabo bari kuhataka: umwe ahagaze ku rwego ari gushyiraho udutambaro twiza cyane. Undi ari kutumuhereza, imbere yabo hari umukindo ukiri muto.

Uyu ni umumama wambaye agapira k'umweru ndetse n'agashanete mu ijosi, yagize ikibazo cy'imvune mu kuboko kwe kw'ibumoso, afite agashashi yashyizeho kugira ngo arebe ko iyi mvune yakoroha maze agahumeka.

Uyu ni umuntu wagize ikibazo ubwo yari muri siporo, yikubise hasi maze ahita avama amaraso, abantu bo muri Croix Rouge bagerageje kumutabara ndetse no kumuha ubuvuzi bw'ibanze mbere yuko agezwa ku kigo nderabuzima.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'umweru ndetse n'ikabutura y'umukara. Akaba ari gukora siporo. Yazamuye ukuguru kwe agushyira ku cyuma. Ari kugorora amano, umugongo ndetse n'ukuboko. Siporo ni ubuzima tuzikore kandi tuzikunze.

Umusore wambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara, yambaye inkweto za siporo, afite ibyuma bikomeza amaboko, yabiteruriye icyarimwe apfukamye hasi akoresheje ivi rimwe, ari kumwe n'umutoza we aho ari kumubwira kongeramo imbaraga.

Ibi ni bimwe mu bikoresho umuntu wavunikiye muri siporo ashobora kwifashisha mu rwego rwo kugira ngo ingingo ze zongere zigororoke, ni ibikoresho biba kwa muganga aho iyo ugiye wavunitse bashobora kukugorora ingingo zawe babikoresheje.

Uyu musore wambaye agapira k’amaboko magufi, akaba yambaye na ekuteri mu gutwi, afite icupa ry’amazi agiye kuyanywa. Uyu musore akora siporo mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwe bumere neza, kandi nk’uko bigaragara, ameze neza.

Ikirahure giteretse hasi ndetse n'ikiganza gifite ijage mu ntoki, ari gusuka amazi mu kirahure mu rwego kugira ngo umuntu wagiye muri siporo naza ahita ayanywa bityo agire ubuzima bwiza bukomoka ku mazi.

Uyu ni umusore wagize ikibazo cy'imvune ubwo yari ari muri siporo, yikubise hasi avunika mu ivi rye ry'ibumoso, muganga wabigize umwuga wambaye impuzankano y'umweru akaba ari kugerageza kumufasha mu rwego rwo kugira ngo hakire vuba.

Uyu ni umwari mwiza ukerebutse, yicaye ku gatapi muri salo y'iwabo, akaba ari kureba muri mudasobwa siporo akora, abyukiye muri siporo yambaye agasengeri kagufi cyane ndetse n'agapantaro kamufashe, imbere ye abanza kuhatereka ibikoresho byose ari bwifashishe.

Ibi ni bimwe mu bigaragaza ko siporo ari ubuzima, ushobora gukora siporo yawe ugakangura umutima, ushobora gukora siporo yawe ugakangura ubuzima, siporo tuzikore tuzikunze kuko ni ubuzima.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'ubururu, yambaye ikabutura y'umweru, yambaye n'akantu ku kuboko kwe, akaba afite icupa ry'amazi ari kuyanywa avuye muri siporo, kandi ni byiza koko kunnywa amazi mu gihe uvuye muri siporo.

Aba ni abantu bahuriye ahantu hamwe higanjemo urubyiruko bari mu gikorwa cya siporo, bari gukora siporo bishimye bagorora imitsi n'ingingo, siporo ni buzima buri muturarwanda wese akwiye gukora siporo mu rwego rwo kugira ngo abeho yishimye.

Uyu ni umusore wavunitse mu gitondo ubwo yari ari muri siporo. Imbere ye hakaba hari muganga wambaye utwenda bw'umukara, uri kugerageza kumugororera ikirenge cye cy'iburyo, ashyiraho bande kugira ngo ingingo zigororoke bityo yongere akandagire.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, aho gishobora kugufasha kugorora ingingo z'amaboko, aho wicara maze ukajya ukurura bityo amaboko yawe imitsi yayo ikagororoka.

Umwari wambaye agasengeri gato cyane afite telefone ye ku kuboko ndetse yambaye ekuteri mu gutwi, afite n'isaha ku kuboko ari kugorora amaboko ye ndetse n'umugongo ahantu hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga.

Uyu ni umuntu wavunitse ubwo yari ari gukora siporo, muganga wambaye impuzankano y'umukara, akaba ari kugerageza kugorora ivi rye ry'iburyo kugira ngo rikore neza, bityo mu minsi mike asubire muri siporo.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, ni umusore ufite amaboko manini cyane akaba ari kwisuka amazi mu maso nyuma yo gukora siporo akananirwa cyane ari kwisukaho amazi kugira ngo agarure ubuzima.

Umusore wambaye isengeri y'umukara yambaye na ekuteri mu gutwi. Akaba ari gukora siporo ananura amaguru ye, umugongo ndetse n'amaboko. Siporro zaramuyobotse kuko arabyibushye cyane. Nawe ukoze siporo wakomera.

Uyu ni umusore wambaye isengeri ndetse n'ikabutura afashe ku nkweto ze ari kugorora amaboko ndetse n'umugongo, siporo mu buzima, abantu bakiri bato bagomba gukora siporo mu rwego kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo, hakaba hari umugabo wicaye ku ntebe ari kureba muri mudasobwa, aho ari kwitegerezamo ubwoko bwa siporo ushobora gukora ingingo zawe zose zikagororoka kandi mu gihe gito.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, ufite isume ku rutugu, afite icupa ry'amazi aho ari kugenda ayanywa, avuye muri siporo ari gutambuka gake gake asoma ku mazi mu rwego rwo kugira ngo agarure ayo yatakaje.

Umusore wambaye agapira k'ubururu, ikabutura y'umukara, amasogisi y'umukara ndetse n'inkweto zikoranwa siporo z'umukara, yikubise hasi ubwo yari ari muri siporo, muganga we nawe wambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umutuku, ari kugerageza kumusuzuma mu ivi rye ngo arebe ko yagorora urugingo rwe.

Umusore w'umuzungu wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye ekuteri mu gutwi, yambaye isaha ku kuboko, afite agasuwime ku rutugu rwe. Akaba ari kunywa amazi aho bigaragara ko avuye muri siporo.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, afite icupa ry'amazi mu ntoki. Ari kuyanywa nta kibazo afite. Uyu musore avuye muri siporo. Akaba ari guca ahantu bigaragara ko hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe hari gukorwa siporo, ni icyuma gipima umuvuduko, aho bagushyiraho bakamenya ibirometero uri gukora ndetse n'imbaraga uri gukoresha, abantu bakora siporo ni byiza kugikoresha kugira ngo birinde kurenza imbaraga.

Ubu ni ubwoko bw'imiti ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo, mu rwego rwo kugira ngo ingingo zawe zitagira ikibazo, kandi ugakora siporo amasaha wifuza ayo ari yo yose, bitewe n'uko wafasha uyu muti.

Uyu ni umusore w'inkorokoro uri guterura icyuma gituma amaboko ndetse n'amatuza bibyimba, imbere ye hakaba hari ibyo kurya afata nyuma y'iki gikorwa cya siporo, hari amashu, hakaba amagi, hakaba ibishyimbo ndetse n'amazi.

Aya ni amoko y'imiti ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo, akaba agiye atandukanye, harimo uturindantoki, hakabamo pomade ushobora gusiga igihe ugize imvune ndetse hakaba harimo na bande ushobora kuzirika kugira ngo ingingo zawe zikomeze zimere neza.

Uyu ni umusore wagize ikibazo k'imvune ubwo yari ari muri siporo, akaba afite agasashi agafatiye ku ivi rye ry'ibumoso, aho ari kugerageza kugorora ingingo ze, bityo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Aka ni agasanduku kari mu ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba harimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu gihe siporo iri kuba, iyi miti ikaba irimo pomade, hakaba harimo bande bizirika mu gihe wavunitse ingingo, ndetse hakaba harimo n'umukasi ushobora kwifashisha.

Iki ni ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi yacanweho n'urumuri, hakaba hakorotirijwe ikizingo cya senyengi. Aha rero ni ukuvuga ngo harimo ubwoko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera kivamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, cyane cyane izifata umwanya w'ubuhumekero harimo nka giripe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Uyu ni umuti gakondo wamaze gutunganywa aho basoromye ibibabi bakabyanika, barangiza bakabisya maze bakabishyira mu gakaratasi kugira ngo umurwayi naza kugura awujyane utunganyije.

Uyu ni umugabo ucuruza imiti gakondo igiye itandukanye, iri mu metajeri iramanitse kandi ni myinshi, ikaba ifungiye mu ducupa tugiye dutandukanye, hakaba hariho amagambo agaragaza ko uyu mugabo ari kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo itunganyijwe neza cyane kandi ivura. Iyi miti yatunganyijwe mu kimera cyiza cyane ndetse no mu buki. Iyi miti rero ivura uburwayi bugiye butandukanye kandi ishobora guhabwa n'abana bakiri bato.

Aya ni amacupa meza cyane abengerana, akaba arimo imiti gakondo baba bayisaruye bakayitunganya neza cyane, maze bakayifungira mu macupa meza cyane akurura abarwayi kugira ngo babashe kuyinywa bayishimiye.

Iri ni icupa ry'ikirahure, rikaba rifite umupfundikizo w'umutuku, hakaba hariho icyapa cy'icyatsi cyibisi kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru agaragaza indwara uyu muti uvura. Umuti mwiza cyane wa gakondo ukomoka ku bimera.

Agacupa gato kari mu ibara ry'umweru, gapfundikishije umufuniko w'umweru ndetse kakaba kariho icyapa gishushanyijeho uruyuki, hariho n'amagambo agaragaza izina ry'uyu muti, uyu ni umuti gakondo wateguwe neza kandi wateguranywe ubuhanga.

Ibirahure bibiri birimo amazi ndetse n'ibibabi, uyu ni umuti gakondo watunganyijwe, hakaba hari umurwayi ugenewe mu rwego rwo kugira ngo bamuvure maze akire burundu uburwayi afite.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo ikomoka ku bimera, ikaba ifunze mu macupa agiye atandukanye, hari ifunze mu macupa manini, amacupa mato, hari iriho igishushanyo cy'uruyuki ndetse hari n'iriho igishushanyo cy'igikakarubamba.

Ubu ni bwoko bw'imiti gakondo iri gutunganywa, iyi miti iri mu moko agiye atandukanye ikaba iri no mu dusorori tugiye dutandukanye, ndetse ifite n'amabara atandukanye harimo iy'umukara, umuhondo, umweru ndetse n'umutuku.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo, ikaba ifunze mu macupa y'ibirahure, aryamye hasi, kuri buri cupa hariho icyapa kigaragaza ibigize uyu muti ndetse n'uko ukoreshwa, mu rwego kugira abawukoresha batawukoresha uko bidakwiye.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, gifite amababi meza cyane maremare, aya mababi akoreshwa igihe hari gutegurwa umuti gakondo uvura uburwayi bugiye butandukanye, cyane cyane ubwananiranye kwa muganga.

Iyi ni imiti gakondo itunganyije neza cyane ikaba iri mu macupa ndetse n'ibirahure bigiye bitandukanye. Ni ibirahuri bipanze mu buryo bunogeye ijisho kandi bikaba birimo n'umuti mwiza cyane ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo wamaze gutegurwa.

Ivuriro ry'Akagera ritanga imiti igiye itandukanye nk'uko babigaragaza mu kirango cyabo, batanga imiti gakondo yizewe kandi iteguranywe ubuhanga n'ubushishozi ku buryo ivura uwayikoresheje.

Akajerekani gato cyane k'umweru gafite umupfundikizo w'umutuku. Kariho icyapa kiriho igishushanyo cy'uruyuki ndetse n'amagambo yanditswe mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umutuku. Uyu ni umuti gakondo utunganyije neza witeguye gucuruzwa ngo uvure abarwayi.

Aka ni akabido k'umuhondo gafite umupfundikizo w'umutuku. Hariho uruyuki, hakabaho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara agaragaza izina ry'uyu muti. Aha rero uyu muti ukozwe mu bimera kandi uvura neza.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera gakondo bikaba biri gutunganywa ngo havemo umuti, uyu muti iyo utunganyijwe neza uvura indwara zigiye zitandukanye kandi abazirwaye bagakira bagatanga ubuhamya.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gakondo kifashishwa hategurwa umuti wa gakondo uvura neza cyane. Iyi miti bayikora mu buryo bw'ibinini, mu buryo bw'ibisukika cyangwa se bakaba banahekenya ibibabi.

Aka ni agacupa gato cyane, kakaba karimo umuti gakondo. Aka gacupa karimo ibara ry'umweru kakaba gafite n'umupfundikizo w'umweru. Hariho icyapa kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, agaragaza izina ry'uyu muti ndetse n'uko ukoreshwa.

Akana ni agatebo karimo amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo. Iyi miti hakaba hari iri mu mababi ndetse n'indi icimbaguye, hakabamo n'utundi tuntu tw'ingeri, aho babicimbagura maze bakabivanga bikavamo umuti mwiza cyane uvura neza.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo, ukaba ari ikimera cyiza cyane cy'igikakarubamba ndetse n'ubuki. Uru ruyuki bigaragaza ko muri uyu muti harimo n'ubuki aho abawutunganya byose babishyiramo.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera, hakaba harimo ibirebire ndetse bifite n'amashami maremare ndetse n'ibindi bito cyane, ibimera byose bikaba bihamurwa maze hakavamo imiti gakondo igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Utu ni uducupa dutatu turimo imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera. Kuri buri gacupa hariho icyapa kigaragaza umuti urimo ndetse n'uko ukoreshwa, n'uburwayi uvura bityo kugira ngo abayikoresha bayikoreshe bayizi neza.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera bikaba byifashishwa bikorwarwamo imiti gakondo ivura uburwayi bugiye butandukanye, bukunze gufata abantu haba abakiri bato ndetse n'abakuze.

Aya ni amoko y'imiti gakondo ifunze mu buryo bugiye butandukanye, ifunze mu macupa atandukanye, yabaya aya palasitike ndetse n'ay'ibirahure, iyi miti yose irifashishwa kandi ikavura uburwayi bugiye butandukanye.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera, akaba ari imiti ifunze mu macupa agiye atandukanye iteretse ku meza harimo izifungiye mu macupa y'ibirahuri, ndetse n'ari mu bicupa bya plasitike n'andi ari mu ducupa duto.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye biri mu murim, ibi bimera rero birasarurwa bigatunganywa maze hakavamo umuti gakondo uvura uburwayi bugiye butandukanye abarwayi bashobora kugira.

Uyu ni umuti gakondo ukaba uri mu macupa agiye atandukanye ndetse hari n'uri mu icupa rimeze nk'irivamo korogate. Iyi miti ikaba iriho amagambo agaragaza amazina yayo ndetse n'indwara avura. Iyi miti rero ikaba yizewe kandi ivura.

Agacupa gato cyane k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, kakaba kariho icyapa kigaragaza izina ry'uwo muti hashushanyijeho uruyuki, uyu ni umuti gakondo utunganyije neza kandi uvura uburwayi bugiye butandukanye.

Ibirahure bibiri biteretse ku meza birimo amazi ndetse n'ibibabi, uyu ni umuti gakondo wamaze gutunganywa; hakaba hasigaye umurwayi ni we ugomba kuza akawunywa maze agakira uburwayi bwe burundu.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bugiye butandukanye, buri bwoko bw'ikimera kiba gifite indwara kivura kandi abazi neza guhamura iyi imiti, bayitunganya mu buryo bwa gihanga ku buryo ivura abantu nta nkomyi.

Ubu ni ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera, iyi miti iteguranywe ubuhanga, hakaba hari iri mu dusorori, mu dutebo, ndetse hari n'indi ikiri hasi iri gutunganywa, hakaba n'iri mu gasekuru k'umweruru gafite n'agahini k'umweru.

Agacupa gato cyane k'umweru gafite n'umupfundikizo w'umweru, kariho icyapa kigaragaza ko uyu muti ukoreshwa buri munsi kandi uvura neza. Kakaba gateretse ahantu hasa umukara. Ni byiza ko dukoresha imiti gakondo kandi itunganyije.

Aka ni agakarito keza cyane kari mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, uyu ni umuti gakondo uteguranywe ubuhanga ndetse n'isuku bimwe bituma abawu bawura bawizeye.

Aya ni amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye, akaba ari mu bikoresho bitandukanye, hari ari mu tujerekani tw'umuhondo ndetse hari n'indi iri mu dukarito, iyi miti yose irifashishwa maze umurwayi uyikoresheje agakira.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye. Iki kimera kikaba kizwi nk'umuravumba. Cyifashishwa hatunganywa umuti gakondo uvura uburwayi bugiye butandukanye, ugahabwa abarwayi bafite ibyo bibazo maze bagakira neza.

Aka ni agacupa gato cyane k'umwe gafite n'umupfundikizo w'umweru, aho hariho uruyuki ku gakaratasi kariho ndetse hariho n'amagambo yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza, agaragaza y'uko uyu ari umuti ukozwe mu buki.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera, ni ibinini bifunze, bikaba biri ku kibabi, birambitse hasi, iki kibabi kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi aho ubu na cyo kivamo umuti gakondo.

Amoko y'imiti gakondo afungiye mu macupa agiye atandukanye, hari ifungiye mu macupa manini ndetse n'ifungiye mu dukarito, iyi miti yose ikaba yifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi gakondo kandi ikavura abarwayi.

Uyu ni umuntu uri gutegura imiti gakondo, afite agasekuru gato cyane k'umweru ndetse n'agahini, imbere ye hari amoko menshi cyane y'ibimera yasaruye kandi yagiye afunga buri kimwe ukwacyo.

Iki ni icyatsi kibisi kiriho amababi maremare kandi na none atari maremare cyane, iki kimera kikaba kifashishwa hategurwamo umuti gakondo uvura kandi ugakoreshwa mu buryo buboneye bityo urwaye agakira.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bugiye butandukanye, hari iri mu dukarito ndetse hari n'iri mu ducupa duto tureture, iyi miti yose iravura mu buryo bwizewe ku buryo umurwayi wese urwaye akayikoresha akira.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo, uri mu tujerekani ndetse no mu dukarito, hari akajekani k'umuhondo gafite umupfundikizo w'umutuku, hakaba n'igikarito. Aha harimo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Aba ni abamama bakaba bari mu mirima irimo ibimera byinshi cyane kandi bigaragara ko byeze neza, bari kubisarura ibyo mu kinyarwanda bita guhamura, iyi ni imiti gakondo ivura kandi ikavura indwara zikomeye.

Utu ni ducupa tw'imiti gakondo, iyi miti yose ifunze mu ducupa twiza cyane aho yateguranywe ubuhanga ndetse n'ubushishozi maze igafungwa mu ducupa twiza n'udukarito mu rwego rwo kugira ngo abayigura bayigure bishimye.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bivamo umuti gakondo, turi kubona ibijumba, ibitoki ndetse tukabona n'ibyatsi, hari ikiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'icyatsi kibisi kijimye, iyi yose ni imiti gakondo.

Ubu ni ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ikomoka mu bimera, iyi miti yose iravura kandi ikavura uburwayi bugiye butandukanye, hari iri mu dukarito tureture igaragazwa yuko ikoreshwa amasaha makumyabiri n'ane ku yandi ndetse hari n'indi ivura indwara z'uruhu.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo itunganyije neza cyane mu buryo bugezweho, uyu muti uriho uruyuki, hakabaho amagambo yanditswe mu izina ry'Icyongereza agaragaza izina ry'uwo muti ndetse hakaba hariho n'igikakarubamba.

Utu ni uducupa twiza cyane turimo imiti gakondo itunganyijwe mu buryo buhebuje, iyi miti ikomoka ku bimera ndetse bongeramo n'utundi tuntu dutuma iryoha bityo ikajya ku isoko igaragara neza kandi nta kibazo ifite.

Uru ni urutaro ruteretseho amoko agiye atandukanye y'imiti ikorwa mu bimera, hari itasi nziza cyane y'umweru irimo ikimera cy'icyatsi kibisi, hakaba n'agacupa gato cyane k'ikirahure nako karimo ikimera cy'icyatsi kibisi, hari agasekuru gato karimo ibimera bigiye gusekurwa.

Iki ni ikimera gakondo kiri mu murima, hakaba hari umuntu uje guhamuraho umuti w'inzoka; uyu mugabo yabyutse ari kubabara mu nda, yibuka yuko iki kimera cy'icyatsi kibisi kivura mu nda nuko araza arahamura, arahita agihekenya maze akire.

Ibi ni bimwe mu byo ushobora kwifashisha mu gihe utunganya umuti gakondo: harimo inanasi nziza cyane, hakaba umuneke mwiza cyane uhiye ufite ibara ry'umuhondo, ndetse hakaba n'amakarito arimo ibindi bigiye bitandukanye.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera, iyi miti rero ikaba ivura uburwayi bugiye butandukanye harimo inzoka zo mu nda, uburwayi bw'amenyo ndetse n'uburwayi bw'uruhu, hakabamo n'ivura indwara zigiye zitandukanye.

Uyu ni umuti gakondo uvura uburwayi bugiye butandukanye, harimo ubwo mu ngingo, ubw'umugongo, ndetse n'ubwo mu izosi, iyi miti ikaba ifunze mu ducupa duto, ndetse n'udukaratasi, hakaba hari n'iri mu bicupa nk'ibya korogati.

Iki ni ikimera gifite amashami maremare, kikaba gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'uturabyo tw'iroze. Iki kimera kikaba gitunganywa kikavamo umuti gakondo uvura uburwayi bugiye butandukanye.

Utu ni udukarito tubiri turimo imiti gakondo. Iyi miti ikaba igaragara nkaho yose ifitanye isano, iri mu gakariito ka mbere ndetse n'iri mu ka kabiri kuko hariho n'akambi kabigaragaza.

Agacupa gato cyane k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, kariho icyapa kiriho agashushanyo k'uruyuki ndetse hakaba hariho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza izina ry'uyu muti ndetse n'uko ukoreshwa.

Utu ni udukarito dune, tukaba turimo imiti ikomoka ku bimera ariko itunganyijwe neza. Iyi miti iravura kandi iba itunganyije, ku buryo umuntu uwo ari we wese n'iyo yaba ari umukire cyangwa se umuntu ugira isesemi, yayinywa ntagire icyo aba.

Uyu ni umuntu uhagaze mu bimera byinshi cyane akaba ari guhamura umuti gakondo, ni byiza ko igihe ufite uburwayi kandi ukaba uri inzobere mu byo gusabika imiti, ugenda ukayishaka maze ukayitegura neza ukivura.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti gakondo. Iyi miti ikaba ifunze mu macupa, harimo umuforomokazi wambaye impuzankano y'umweru, hakaba harimo intebe yashyizeho umwenda we w'umuhondo, imbere ye hakaba hari icyuma gikonjesha iyi miti.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bugiye butandukanye, buri hasi bufunze ku mifungo ndetse hari n'ibiri mu mufuka, iyi miti yose irifashishwa maze umurwayi ufite uburwayi bukomeye cyane bukavurwa kandi bugakira.

Ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi. Iki kimera ni ikimera cy'umuravumba, kikaba gitegurwamo umuti gakondo wifashishwa mu buvuzi bwa gihanga, aho uwawunyoye agira ubuzima bwiza kandi akaba atahura n'indwara iyo ari yo yose.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo, bufungiye mu icupa neza cyane. Ni uducupa twinshi cyane dufite imipfundikizo y'ubururu. Kuri buri cupa hariho icyapa kigaragaza izina ry'umuti urimo ndetse n'uko ukoreshwa.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera, kikaba gikorwamo umuti wa gakondo kandi uvura indwara zigiye zitandukanye, ni ikimera kiri mu mabara y'icyatsi kibisi, kikaba gifite amababi maremare, amwe yaracitse, aya mababi niyo asarurwa maze agategurwamo umuti mwiza cyane uvura.

Ubu ni ubwoko bw'imiti ikozwe mu bimera cyangwa se imiti gakondo. Iyi miti yose irifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Kuri buri bwoko bw'umuti hariho akapa kagaragaza izina ry'umuti ndetse n'indwara ivura.

Aka ni agacupa ndetse n'imbuto zisotaguye ziteretse ku gaparato ku meza. Iyi ni imiti gakondo itegurwa neza, igategurwa mu mbuto ndetse no mu buki, maze hakavamo umuti uryoshye kandi uvura.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera gakondo, bukaba bufite amababi y'icyatsi kibisi. Ibi bimera byifashishwa hategurwa umuti gakondo. Aho babisarura bakabyani, bakabitunganya neza bityo bikavamo umuti uvura uburwayi bugiye butandukanye.

Iyi ni imiti gakondo itunganyije neza cyane, abantu bamaze kumenya neza cyane akamaro k'iyi miti, hari umuntu wajyaga wibaza uko abantu ba kera bivuraga cyangwa se bavurwaga bivurishaga iyi miti ikoze mu bimera.

Iki ni ikimera gifite amabara y'icyatsi kibisi, iki kimera kikaba kifashishwa hategurwa umuti gakondo, kigira umuti mwiza cyane uvura uburwayi bugiye butandukanye, ndetse n'ubwananiranye kwa muganga.

Agacupa gato cyane k'umwiru gafite umupfundikizo w'umweru, hariho akapa gashushanyijeho uruyuki, hakaba hariho n'amagambo yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umutuku agaragaza izina ry'uyu muti, hakaba n'utubabi twa kapusine ndetse n'ibinini.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo ukozwe neza cyane ufunze mu ikarito, uyu muti ukaba ugaragara nk'aho ukoze mu cyayi ndetse no mu buki kuko biri kugaragara kuri aka gakarito.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera kiri mu mababi y'icyatsi kibisi, iki kimera kikaba gitegurwamo umuti gakondo wizewe kandi uvura indwara zigiye zitandukanye, aho abarwayi bashobora kuwitunganyiriza.

Ibi ni bimwe mu bimera bivamo umuti gakondo, ni imbuto nziza cyane izihishiye ndetse n'izidahishiye, hakaba harimo izikase ndetse n'izidakase mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, aya maronji akaba avamo umuti gakondo.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo bukozwe mu kimera cya avoka ndetse n'igitakakarubamba, uyu muti urizewe cyane kuko uvura uburwayi bugiye butandukanye, harimo uburwayi bw'uruhu, aho wisiga amavuta akoze muri ibi bimera maze uruhu rwawe rukanyerera.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bugiye butandukanye, buteretse hasi ku musambi, bukaba buri mu dusorori tugiye dutandukanye kandi buri gasorori kakaba karimo ubwoko bwihariye mu rwego rwo kugira ngo bayivange maze bakoremo umuti umwe wizewe kandi uvura.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti ikomoka ku bimera, aya moko hakaba harimo ibinini byakozwe neza bifashishijwe bino bimera, hakaba n'undi uri mu ducupa ndetse hari n'ibindi bibabi birambitse hasi.

Aka ni agacupa kari mu ibara ry'umweru, kakaba gafite n'umufuniko w'umweru. Hariho uruyuki ndetse n'amagambo yanditse mu cyongereza agaragaza izina ry'uyu muti ndetse n'uko ukoreshwa. Imbere yaho hari kugaragara ishusho y'igikakarubamba.

Iyi ni ishashi y'umuhondo, ikaba irimo amoko y'imiti akomoka ku bimera, ibi bimera bikaba bitunganywa neza maze hakavaho umuti gakondo wizewe uvura uburwayi bugiye butandukanye, maze ababufite bagakira vuba.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo, ukozwe mu buryo bwizewe, aho basaruye amababi bakayabika neza, barangiza bakayatunganya bakayanga n'ubundi buki, barangiza bagakuramo umuti mwiza cyane wizewe.

Iyi ni itasi iteretse hasi ikaba irimo umutobe ukomoka ku ndimu ndetse n'amaronji hamwe na tangawizi, uyu ni umuti gakondo wifashishwa n'abantu bagize ikibazo mu buhumekero.

Utu ni uducupa dutatu turimo imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, kuri buri gacupa hakaba hariho icyapa kiriho amagambo agaragaza izina ry'uyu muti ndetse n'uko uyu muti ukoreshwa.